Mu rwego rwo guteza imbere ubuganga aba ari ngombwa ko iyo umuntu agiye kuvuza umwana muganga agomba kuba ari kumwe na ndetse n'umubyeyi icyarimwe kubera ko abana ari abagenerwabikorwa bataba babashije kwihitiramo icyangombwa kandi kibakwiriye.

Mu rwego rwo kwita ku buzima, byagaragaye ko ari ngombwa mu buzima bwa buri munsi bw'abantu gukaraba intoki n'amazi meza ndetse ukoresheje isabune, kugira ngo wirinde isuku ndetse harwanwe indwara zose zituruka ku mibereho mibi ndetse n'umwanda, kandi ubashe gutera imbere, yaba igihugu ndetse n'Isi muri rusange.

Kugira ngo hitabwe ku buzima neza, usanga ari ngombwa ubufatanye bw'abantu bakuru n'abana, ugasanga umuntu akorera umwana amazi menshi cyangwa se, ikindi kintu kimurusha imbaraga, ibi ntabwo aba ari byiza kubera ko aba ari ukwica ubuzima bw'umwana, ni ngombwa rero kwita ku bana tubafasha gukora imirimo ibagenewe...

Mu rwego rwo kwita ku buzima ni ngombwa kugirira isuku ibikoresho byose bikoreshwa mu mazi nk'amajerekani n'ibindi byose umuntu yifashisha avoma amazi ndetse ayabika kugira ngo umuntu atazajya arwara indwara zituruka ku isuku nke y'amazi ndetse n'aho ayabika.

Umuryango ufasha abana byagaragaye ko ari umuryango utegamiye ku nyungu izo ari zose ahubwo wo uba ugamije gufasha, ni ngombwa rero ko ufasha abana cyangwa abakuru, abo aribo bose bakeneye ubufasha, mu rwego rwo gukomeza kugira iyi si nziza ndetse no gukomeza gufasha ikiremwamuntu.

Inama nyinshi zo ku isi ziga ku buzima usanga ari ngombwa ko zibera ahantu hanini cyane hisanzuye kandi zikiga ku bigendanye n'ubuzima n'icyabuteza imbere n'ubushakashatsi bwinshi buba bukorwa mu kwihutisha ndetse no kurebera hamwe icyateza ubuzima imbere.

Ibintu byinshi bisaba kugira ngo ubuzima bwitabweho, akenshi usanga ari nk'imiryango ifasha ndetse itanga imiti kugira ngo abantu bakire kandi bagire ubuzima bwiza ndetse ikaba ifite n'abakozi, n'imiti ihagije kugira ngo babashe kwita ku buzima bw'abantu bose, baba batuye ku isi ndetse mu gihugu muri rusange.

Mu buzima usanga ari ngombwa kugira isuku nk'ibikoresho dukoresha tuvoma amazi cyangwa tuyabika ndetse n'ubwayo amazi tukayagirira isuku nko kuyateka kugira ngo biturinde kurwara indwara izo ari zo zose, zituruka ku mibereho mibi cyangwa se amazi adasukuye ndetse n'isuku nke.

Ahantu hose usanga hagomba kunywerwa amazi aba ari ngombwa ko hashyirwa ibikoresho byabugenewe ndetse bifite isuku, kugira ngo birinde umwanda watera ingaruka mbi ndetse n'indwara zituruka ku mwanda, kubera ko umwanda wica kandi ukagirira nabi abawugira.

Imigenderanire ndetse n'imibanire mu bantu bose bo ku isi usanga ibishingiye akenshi ku buzima, yaba ubwo mu mutwe cyangwa muri rusange ubwo aribwo bwose, niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga abantu bifotoje yaba umugore n'umugabo ariko buri ruhande rufite aho ruhagarariye.

Gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ni kimwe mu bikorwa tugirwamo inama nk'abantu bagomba kwimakaza umuco wo kugira isuku, kubera ko iyo umaze gukora ikintu icyo ari cyo cyose ntabwo uba wizeye umutekano uvuyemo ni ngombwa rero gukaraba kugira ngo twimakaze uburyo bwo kugira isuku ndetse no guteza imbere imibereho myiza.

Mu buzima bwa buri munsi usanga abahungu, abakobwa, abakuze, ndetse n'abato bose bahurira ku kintu kimwe aricyo cyitwa gukenera amazi. Niyo mpamvu usanga tugomba gukoresha amazi yaba mu mugitondo cyangwa saa sita na nimugoroba, ndetse abantu bose bakayakoresha asukuye cyangwa atetse, ariko ari mu bintu ibyo aribyo byose yaba ibivomesho cyangwa se ahandi bayabika bimeze neza.

Kugira ngo ingamba zo kurwanya indwara zimwe na zimwe ziba zaribasiye isi zigerweho, usanga ari ngombwa ubufatanye bw'abantu babihuguriwe ko bigisha abaturage bose muri rusange, kugira ngo babashe kubafasha mu kwirinda izo ndwara ndetse no gushyiraho amabwiriza agenga imyitwarire yo muri icyo gihe baba bari guhangana nazo.

Kugira ngo tugire ubuzima bwiza, ni ngombwa ko tugomba gukoresha ibikoresho bifite isuku ihagije, cyane cyane nko ku babyeyi bafite abana bato ndetse n'imiryango yagutse, kubera ko gukoresha ibikoresho byiza usanga ari kimwe mu biteza ubuzima bwa muntu imbere, kandi bakabaho neza mu buryo butekanye.

Ibigo byinshi biba bishinzwe kurwanya indwara cyangwa se ibindi byose, akenshi usanga biba bifite ibirango bibiranga kugira ngo umuntu wese ubibonye abashe kubimenya kandi abyiteho, ndetse bibashe kuba bifasha abaturage kubavura, akenshi kuko biba bizwi n'abantu bose muri rusange.

Mu rwego rwo kwita ku buzima, usanga haba inama zitandukanye ndetse zikitabirwa n'abantu benshi, bamwe bafite n'ibikoresho by'ibinyabiziga kandi bakaba bafite aho bandika ndetse usanga rimwe na rimwe hitabiriwe n'inzego z'umutekano, mu rwego rwo gukaza ingamba, kuko nazo zijya zibahereza ubufasha.

Ihuriro ryinshi ry'abantu, usanga akenshi aba ari abagore n'abagabo, harimo n'abana rimwe na rimwe. Ariko akenshi baba baje kuvuga ku kintu runaka, wenda giteza ubuzima bwabo imbere, cyangwa se ubukungu imbere. Kugira ngo babashe guteza imbere imibereho myiza yabo.

Amazi menshi yo ku isi yose usanga yibumbiye ahantu henshi hatandukanye, mu rwego rwo kuba yagera ku bantu batandukanye yaba abaturage cyangwa se abandi bayobozi batandukanye, niyo mpamvu usanga asukurwa agashyirwa ahantu hegereye abaturage kugira ngo bakomeze kuba batera imbere.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi usanga nk'ikiremwamuntu dukenera amazi meza kandi asukuye, ni nayo mpamvu usanga leta ndetse y'u Rwanda yarashishikarije abaturage gutura mu midugudu ahegereye amazi ndetse n'umuriro kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Mu buzima bwinshi bwo muri Afurika, usanga ari ngombwa gukoresha amazi yaba ayavomwe mu migezi itemba, cyangwa mu biyaga, kubera ko amazi ari ubuzima, rero niyo mpamvu tugomba kuyakoresha tukabanza tukayateka, ndetse tukayakoresha n'ibindi bitandukanye, ariko asukuye.

Kugira ngo ubuzima bwitabweho ni ngombwa ubufatanye hagati y'abantu bose yaba abakuru n'abato kugira ngo bigende neza, niyo mpamvu dukangurirwa gufatanya mu bikorwa ibyo aribyo byose yaba guhinga, gukora cyangwa se kuvoma amazi ndetse n'imirimo yacu ya buri munsi kugira ngo dutere imbere cyangwa duteze imbere ubuzima bwacu.

Amasezerano menshi y'ubufatanye arimo kumenyekanisha ibintu byawe, usanga anyuzwa mu bigo bitandukanye kandi bizwi neza bizakwamamariza ku buryo bwiza kandi buzagira abantu benshi, niyo mpamvu usanga leta y'Urwanda yarashyize imbaraga nyinshi mu kwamamaza ahantu hatandukanye ibikorwa byayo, kugira ngo irebwe kandi ikurure abantu benshi harimo na ba mukerarugendo.

Ubuvuzi bw'abana buteye imbere, ni kimwe mu bintu bifasha ubuzima bwabo, ko bugenda neza, kubera ko usanga rimwe na rimwe abana bagira imibereho mibi, bitewe n'uko batagize ubuvuzi no kwitabwaho bakiri abana, kandi bakagira ingaruka mbi cyane bitewe na none n'uko batitaweho bakiri abana.

Abana muri rusange usanga ari udutama duto niyo mpamvu iyo bari kuvurwa baba bitonze kandi bafashwe n'ababyeyi babo ,maze ababishinzwe nabo ubwo ni ukuvuga abaganga cyangwa abaforomo maze bagakora akazi bashinzwe nko kubatera imiti yabugenewe ndetse baje bashaka cyangwa se inshinge izo arizo zose kugira ngo nabo bagire ubuzima nkubw'abantu bakuru ndetse bazagire ejo heza.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi, usanga dukenera amazi kugira ngo tubashe kubaho, kubera ko amazi ari mu bikenerwa bya buri munsi, ni kubwiyo mpamvu rero dukwiye kujya tubungabunga amazi, akadufasha mu isuku, mu gukaraba, n'ibindi bikorwa dukora bya buri munsi.

Abantu benshi ndetse n'ibigo bifite ubuzima mu nshingano, usanga bakora uko bashoboye kugira ngo barinde ubuzima bw'abanyagihugu, niyo mpamvu bashyiraho ingamba zo guhura n'abaturage kenshi, bubasobanurira ku buzima ndetse n'indwara zishobora kubatera kugira ngo babashe kuzirinda.

Ibigo bishinzwe ubuzima bihora bikangurira abantu bose bo ku isi kwitabira gahunda zose zo kwamamaza ndetse zigashyiraho amabwiriza agenga ubuzima mu rwego rwo kugira isi nziza ndetse n'abayituye, niyo mpamvu usanga ari ngombwa gukurikiza amabwiriza yashyizweho n'iki kigo kuko kiba cyifuriza ibyiza abaturage.

Abantu benshi kugira ngo babeho usanga mbere na mbere bagomba gukenera amazi, kubera ko usanga abafasha mu bikorwa byinshi bitandukanye byo mu rugo cyangwa se iby'ahandi hose, kuko usanga bayakoresha bateka cyangwa bakaraba ndetse n'ibindi bakora akazi aho ariho hose, niyo mpamvu usanga amazi meza kandi afite isuku ndetse n'ibyo bayavomeyemo biba bigomba kuba byihariye ndetse birinzwe kandi biri ahantu heza.

Amazi ni ubuzima kuko afasha ibintu byinshi muri rusange, yaba gukaraba cyangwa se ibindi, ni yo mpamvu Leta ndetse n'ibigo biyashinzwe, usanga birwana intambara kugira ngo biyageze ku baturage babeho neza kandi bamererwe neza igihe icyo ari cyo cyose.

Tugirwa inama ko amazi meza ari amazi atemba kurusha amazi yateguriwe mu nganda cyangwa yongerewemo imiti, kubera ko aya atemba aba atabarimo imiti cyangwa ibintu byose byakwangiza ubuzima bw'ikiremwamuntu.

Amazi ni ubuzima turabizi niyo mpamvu ibikorwa byinshi leta igerageza gukora; usanga yegereza abaturage amazi ndetse ikayasukura mu rwego rwo kubaha ubuzima bwiza; kandi igaharanira ko buri muntu wese ajya abona amazi ku rugero rwiza kandi rukwiriye.

Ikoranabuhanga ryose rikoreshwa kwa muganga, ni kimwe mu bintu bihenda igihugu ndetse n'abaturagihugu muri rusange, niyo mpamvu biba ari ngombwa kwitabwaho ndetse bikagirirwa isuku n'ababikoresha kandi ukaba ugomba kubiha agaciro bikwiye kuko ari ibintu biba bihenze cyane.

Mu mazu manini aba yahurije abantu hamwe, ari kwiga ku kibazo runaka yaba icyo mu buzima cyangwa ikindi, aba ari ngombwa kuba bafite amazi abarinda umunaniro gusinzira cyangwa se ibindi, kandi hakaba hari umuntu ushinzwe kuba ababwira amakuru yegereye icyo kiringo barimo.

Nk'uko ari ihame ko amazi ari ubuzima ni nayo mpamvu leta yagiye ifata ingamba zo kwegereza amazi abanyagihugu, mu buryo bwo kubateza imbere no kubashakishiriza imibereho myiza kugira ngo bakomeze gukunda igihugu cyabo ndetse no kugikorera byoroshye.

Kugira ngo abantu bite ku buzima cyane cyane nko kwa muganga niyo mpamvu usanga umurwayi iyo bari kumuvura cyangwa bamusuzuma baba bamwitondesheje bamwiteze ku gitanda cyiza ndetse bamuganiriza neza kugira ngo ubuzima bwe bwitabweho kandi akurikiranwe neza uko bigenwe.

Ubuzima bw'abana bukenerwa kwitabwaho yaba mu mirire cyangwa mu minywere, aho usanga baba bakwiye kunywa igikoma kugirango bagire ubuzima bwiza kandi bakure mu gihagararo no mu bwenge, kandi babifashijwemo n'abanyabuzima ndetse n'ababyeyi babo kugirango babafashe kandi bakure neza.

Ahantu henshi habereye ibirori, usanga habereyemo nk'inama cyangwa ihuriro ry'abantu benshi nk'ibirori bigamije kwishimisha cyangwa gushimisha abandi, usanga abantu benshi babiteguye baba bashaka kubyamamarizamo, bagatanga nk'ibipapuro birimo amazina y'abantu bakorera cyangwa ibigo bakorera kugira ngo byamamarizwe aho ngaho.

Mu kwita ku buzima usanga ari ngombwa ko iyo hadutse icyorezo cyangwa indi ndwara iyo ariyo yose ikomeye, ari ngombwa gufata mbarigo ndetse n'ibindi bikorwa bikomeye cyangwa se guhagarika ibintu byinshi kugira ngo habashe kuba hirindwa iyo ndwara ndetse hagatumizwaho n'ibikoresho bifite imbaraga n'ubushobozi, bibasha kuyipima kugira ngo idaca mu rihumye abaganga ndetse n'abandi baba barashyizweho kugira ngo babashe kuyirwanya.

Abana yaba abanyeshuri cyangwa se abandi bose, aba ari ngombwa kugira isuku banywa amazi meza kugira ngo abashe kubagiraho ingaruka nziza, kubera ko afasha byinshi mu mubiri kandi muri rusange bikarinda indwara zimwe na zimwe zituruka ku minywere mibi cyangwa se imirire mibi.

Mu mibereho ya buri munsi y'abantu, usanga bakenera amazi kandi agomba kuba abegereye, ni muri urwo rwego ama leta yashyizeho gahunda yo kwegereza ibikorwa remezo by'ingenzi bifitiye akamaro abanyagihugu, harimo amazi meza kandi asukuye.

Kigira ngo umuntu yite ku buzima bwe usanga ari ngombwa gukoresha amazi mu bikorwa bye bya buri munsi, nko guteka gukaraba kumesa n'ibindi ariko nanone aho ari ngombwa kuyakoresha cyangwa kuyabika ahantu hasukuye kugira ngo atazajya ajyamo ibisimba ndetse n'ibindi byose bibasha kwangiza ubuzima bwa muntu bitewe n'isuku idahagije.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwa muntu aba ari ngombwa ko ibikoresho akoresha abika amazi cyangwa ayavoma bigirirwa isuku kubera ko amazi ni kimwe mu bikenerwa n'umubiri w'umuntu, kandi akaba ari ngombwa ko ayateka igihe agiye kuyakoresha.

Ubuzima bwiza ntabwogo buba kwa muganga gusa ahubwo bwageze ahantu hose, nkaho usanga mu cyiciro cy'uburezi abana ndetse n'abantu bakuru bose biga bakitabira amashuri kandi bakigira ahantu heza bishimye kandi nta zuba nta mvura ibanyagira mu rwego rwo gutera imbere.

Mu nama nyinshi usanga ziga ku mibereho ndetse n'ubuvuzi buteye imbere usanga hakoreshwa igihe kandi gipimye ndetse hakaba hari icyo kurya amazi imbere yabo, ndetse bakoresha ikoranabuhanga kugira ngo babashe kuvumbura ndetse no guhuza ibitekerezo kandi bagere kuri byinshi bibasha guteza imbere ubuvuzi.

Kugira ngo ubuzima bwitabweho neza akenshi usanga hari inama ziba zarabugenewe zishinzwe kwiga ku bintu byakwangiza cyangwa, se byateza ubuzima imbere maze bakaza kubigaragariza rubanda nyamwinshi, mu rwego rwo gutera imbere ndetse no kwita ku buzima bwabo, aho usanga hakozwe nk'inama irimo abakuru b'ibihugu ndetse na za leta biga ku bintu runaka.

Kimwe mu byagaragajwe n'abahanga bazi neza ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire ya muntu byagaragaye ko isuku ndetse no kwishima biri ku ruhembe rw'imbere mu bibasha guteza ubuzima bwa muntu imbere mu buryo bwiza kandi bukamufasha kubaho neza kandi akabaho igihe kirekire.

Abantu n'ibigo bishinzwe kwita ku buzima, ni bamwe mu batanga serivisi zinogeye abantu, nkaho usanga baba bagomba kwita ndetse no gusuzuma abarwayi, kugira ngo bamenye ubuzima bwabo uko buhagaze, kandi babahe imiti ku gihe ndetse bababesheho neza nkuko ari cyo kiringo barimo cyo kwita ku bantu.

Mu buzima usanga imikoranire myiza ndetse n'ubufatanye; ari kimwe mu biranga ugutsinda ibintu byinshi harimo nk'ibyorezo bigenda bitera iyi si; niyo mpamvu usanga leta cyangwa se abantu muri rusange; kugira ngo batsinde ibyorezo kandi babihashye; bagomba gukorana, bagafatanya ndetse bagakora n'ibirenze ibindi.

Ahantu henshi ku isi usanga ahabereye inama bakunda kuzishyira ahantu heza kandi hatunganye ndetse mu nzu mu rwego rwo kwirinda imiyaga, izuba ryinshi, cyangwa se imbeho, kugira ngo abantu bayikoze baze kuba biteguye neza kumva ndetse no gukurikira inama cyangwa ikindi cyabereye aho cyahabahurije.

Mu kwimakaza ubuzima bwiza no kubaho neza aba ari ngombwa guhurira ahantu nk'umuryango cyangwa se abantu benshi, mukaganira ku kibazo cyugarije isi muri rusange cyangwa icyabateranyirije ahantu cyubahirizwe kandi kigenderweho. Mu rwego rwo kubaka sosiyete izira ibibazo n'amakimbirane.

Imyidagaduro ni kimwe mu bikorwa bihuriza abantu benshi ndetse n'imbaga nyamwinshi ahantu hamwe kugira ngo basabane kandi bunguke byinshi, harimo nko kumenyana no kumenyana byimbitse kandi babashe kubana neza mu mahoro ndetse biteze imbere umuryango mugari.

Kw’isi usanga ibibazo byinshi ar’ibishingiye ku mazi ndetse n'umuriro, niyo mpamvu leta iba yarashyize imbaraga ndetse igashora amafaranga menshi mu kwegereza abaturage amazi, ndetse n'umuriro kugira ngo babeho neza, kandi batere imbere, kandi nabo basabwa kuyagirira isuku ndetse no kuyabungabunga.

Imiryango myinshi itegamiye kuri leta ifasha usanga ari myiza kandi ikorera ahantu hose ku isi kandi igafasha ititaye ku bantu abo aribo bose yaba abakene cyangwa abakeneye ubufasha abo aribo bose kugira ngo igire isi nziza ikeye kandi itunganye.

Mu rwego rwo kwita ku buzima, abantu bagirwa inama yo gukaraba kenshi ndetse n'isabune n'amazi meza kugira ngo birinde indwara zituruka ku isuku nke ndetse babashe kubaho neza kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, biririnda indwara ndetse n'ibibazo byose byaturuka ku isuku nke.

Kwiyemeza ndetse no kugira intego ni kimwe mu bintu bifasha kugira ndetse no kwita ku buzima bwa muntu, iyo abantu bose babashije kwiyitaho usanga bagira ubuzima bwiza ndetse bakamera neza, niyo mpamvu duhamagarirwa kugira icyo dukora kugira ngo ubuzima bwacu tubukure mu kangaratete ndetse tubashyire ahantu hakwiriye.

Abaganga ndetse n'abafasha babo kugira ngo bite ku buzima neza kandi bakurikirane ubuzima bw'abantu babagana, usanga babanza gusoma ibintu byose cyangwa amakuru yose agaragaza umuntu baba bagiye kuvura, kugira ngo batamwicira ndetse batamugira nabi kandi bamukurikirane neza mu rwego rukwiriye.

Usanga tugirwa inama ko ahantu hahuriwe n'abantu benshi ari ngombwa ko hakorwa neza hakagirirwa isuku, mu gihe umuntu utanga ikiganiro ndetse n'abakurikiranye kugira ngo babashe kugerwaho neza, hari igihe usanga hari polisi cyangwa izindi nzego z'umutekano mu kwita ku buzima, niyo mpamvu tuba dusabwa kugirira isuku ahantu hose ndetse tukabungabunga umutekano kandi hagashyirwa ibirinda izuba cyangwa imvura.

Ubuzima bwa buri munsi bw'abantu uko bwubatse usanga akenshi na kenshi abantu bakunda guhurira ahantu nko ku biro by'utugari, ndetse n'uturere, cyangwa imirenge, mu rwego rwo kuhashakira ubufasha, cyangwa kuhasobanuriza izindi serivisi zabafasha mu buzima, ni ngombwa ko aho hantu hose ibyo bigo mvuze ko bigomba kuba bifite umuntu ushinzwe kuyobora abo bantu, ndetse no kubahereza serivisi mu buryo bwagutse kandi bwiza.

Mu buryo bwo kubungabunga ubuzima bw'ejo heza bw'abana, ni ngombwa ko tubatoza isuku bakiri batoya kandi tukabigisha gukaraba isabune n'amazi meza, kandi kugira ngo birinde indwara zandurira mu isuku nkeya, kugira ngo bazabashe kubaho igihe kirekire.

Abantu bose muri rusange usanga dukenera amazi, ariko iyo ari ay'isoko cyangwa yanyujijwe mu ruganda akabanza gushyirwamo imiti, usanga byose biba akarusho kubera ko aba asukuye kandi asa neza, atagira ingaruka mbi ku buzima bw'uwayakoresheje.

Nkuko bizwi ko amazi ari ubuzima, niyo mpamvu isi yose yashyize imbaraga mu gusukura amazi kandi mu kwegereza abaturage amazi meza kandi asukuye niyo mpamvu usanga ahantu hose hari abaturage biharanirwa ko hagira amazi kandi ahagije.

Ku isi hose usanga igice kigoye cyane kandi kigomba kwitabwaho ari igice cy'ubuzima, ni kubw'iyo mpamvu usanga ahantu henshi hatangirwa izo serivisi zo kwita ku bantu ndetse n'ubuzima, hakunda kuba hitambitse cyangwa se hari inzego z'umutekano ndetse n'abantu benshi baje kwitabira izo serivise mu rwego rwo kubaho neza.

Mu nama nyinshi, usanga haba hahuriyemo abantu batandukanye, ndetse b'amoko atandukanye, kandi bikaba ngombwa ko abantu batuza bayitabiriye, kugira ngo babashe kumvikana, kubera ko baba bahujwe n'ikintu gikomeye, ndetse bari kwiga ku iterambere ry'ikintu runaka.

Kugira ngo ubuzima bube bwiza ni ngombwa iyo tugeze nko kwa muganga, kwambara imyenda yabugenewe ndetse no gukoresha ibikoresho byose by'ikoranabuhanga ariko ukaba ubifiteho ubumenyi, mu rwego rwo kutangiza cyangwa kutica ibintu byinshi uba ubonye rimwe na rimwe by'iterambere.

Abanyeshuri benshi cyangwa se abandi bantu bahuje umurimo rimwe na rimwe usanga iyo bamaze kwiga ku bigendanye n'ubuzima cyangwa kuvura rimwe na rimwe usanga bafata nk'ifoto izabibutsa icyo gikorwa cyane cyane iyo bari bahuriwe nko mu mahugurwa runaka cyangwa mu kazi runaka.

Gupimisha umwana ibiro ni kimwe mu bikorwa umuntu w'umubyeyi wese aba asabwa kubera ko bimufasha kumurinda ndetse no kumwitaho n'abaganga bagakora uko bashoboye, bakarinda ubuzima bwe ndetse kubera ko baba bafite amakuru ayo ari yo yose kandi amwerekeyeho yabasha kumukiza igihe icyo aricyo cyose yaba agize ikibazo.

Mu nama nyinshi usanga zifite icyo zigaho nk'ubuzima ubwo aribwo bwose cyangwa kwita ku kintu runaka ni ngombwa ko haba hari umuntu utanga imbwirwaruhame maze abandi bamukurikiye kandi bitonze bakabasha kugira icyo bakuramo nk'ingingo nyamukuru ndetse babashe gufata n'umwanzuro runaka ku cyabateranyirije aho ngaho.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwiza bw'abantu batuye ku isi, amaleta menshi cyane yashyizeho gahunda yo kujya asukura, ndetse yo guhuriza hamwe amazi meza, kandi menshi akayasukura, kugira ngo abantu babashe kubona amazi ahagije kandi meza kuko byagaragaye ko amazi nta adahari nta n'ubuzima bwaba buhari.

Mu rwego rwo kwita ku buzima ni ngombwa ko umuganga cyangwa se umunyabuzima uwo ari we wese, agomba kuba yambaye ibikoresho byabugenewe n'uturindantoki cyangwa se agapfukamunwa, igihe agiye kwita ku buzima bw'umurwayi cyangwa se undi uwo ari we wese wamubwiye kugarurira ubuzima.

Abaganga ni bamwe mu bantu bafasha ubuzima gutera imbere kuko usanga rimwe na rimwe bakoresha amamashini ndetse na za mudasobwa, mu rwego rwo kwita ku buzima bw'abantu babagana kandi bakaba bategetswe kutaruhuka amasaha menshi, mu rwego rwo kwita kuri abo bantu babagezeho.

Kugira ngo ubuzima bugende neza usanga rimwe na rimwe nyuma yo gukora siporo cyangwa se ibindi byose akenshi uba usanga hakwiye kwitabwa no ku bindi bintu nk'amazi ndetse n'imiriro y'amashanyarazi mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza kandi buteye imbere, niyo mpamvu ari ngombwa ibi byose kubigira yaba amazi ndetse n'umuriro.

Ubuvuzi ni igice gifitiye abantu bo ku isi bose akamaro kanini cyane, kubera ko iyo hari ubuvuzi bwateye imbere ahantu, biba bisobanuye n'imibereho myiza y'abanyagihugu, bityo rero abanyagihugu babaho neza bishimye mu mahoro, kandi mu mutekano usesuye.

Kugira ngo hitabwe ku buzima usanga leta ikora uko ishoboye ikegereza abaturage amazi maze nabo icyo baba basabwa, ni ukuyitaho ndetse kutayanduza kuyagirira isuku n'ibyo bakoresha bayavoma bikaba bifite isuku ndetse bakayabungabunga maze nabo bakabona kwiteza imbere bahereye ku mazi.

Mu nama nyinshi zibaho zo kwiga ku bigendanye n'ubuzima aba ari ngombwa ko hagomba kuba utanga ikiganiro abandi bakaza kugira umwanya wabo wo kubaza kugira ngo bumve neza icyavugiwe muri iyo nama kandi basobanukirwe neza mu rwego rwo kutica ibyavugiwemo ndetse harimo n'amabwiriza yo muri iyo nama.

Kugira ngo twimakaze ubuzima bwiza n'imibereho myiza, usanga ari ngombwa kandi tugirwa inama gukoresha amazi meza ndetse n'isabune dukaraba intoki kandi tukazisukura neza yaba ku bana bato cyangwa se abakuru mu gihe tumaze gukora igikorwa cyose cyadusaba gukaraba intoki, ni ngombwa rero kubaha izo nama tubwirwa n'abantu babishinzwe.

Ibigo ndetse n'imiryango ifasha byagaragaye ko biba bitegamiye ku bukire cyangwa ubutunzi bw'umuntu runaka, ahubwo aba ari ugufasha ndetse no kugira umutima mwiza mu rwego rwo kugira iyi si nziza cyangwa kutugira umwe muri rusange.

Iyo witegereje neza iyi si ndetse n'ahantu hose dutuye hagizwe n'amazi cyane cyane wongeye kureba ku mubiri w'umuntu niyo mpamvu usanga tugirwa inama yo gukoresha neza amazi ndetse naho tuyabitse hakaba hasukuye ku buryo hagomba kuba hagaragara neza kugira ngo afashe ubuzima bwacu.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'abana ndetse no kwita ku mibereho n'imikurire yabo, ni ngombwa kujya tubegereza amazi ndetse bagakaraba kenshi gashoboka, kandi bagahabwa indyo yuzuye kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse bitabire n'ibikorwa byinshi bibakuza kandi bikabagira beza yaba inyuma ndetse n'imbere.

Mu kubungabunga ubuzima ahantu hose leta yagerageje kuhegereza abavuzi yaba abanyabuzima cyangwa abaganga babihuguriwe neza mu rwego rwo kwita ku buzima, niyo mpamvu usanga ahantu hose umwana cyangwa umuntu mukuru mbere na mbere abanza kwitabwaho n'umunyabuzima wabiherewe uburenganzira kandi ubifitiye ubushobozi.

Usanga kugira ngo ubuzima bwitabweho ari ngombwa kwakira amabwiriza ndetse n'amategeko aturuka kwa muganga, kugira ngo abantu babashe kubaho neza ndetse n'ibigo byinshi bitanga ubufasha bitagize icyo bigenderaho maze bigafasha abantu kubaho neza ndetse no kwirinda izo ndwara zituruka ku mwanda yaba zaturutse ku minywere y'amazi adasukuye n'ibindi.

Byinshi mu bikorwa kugira ngo hatezwe imbere ndetse hitabwe ku buzima bwacu nk'abaturagihugu, usanga rimwe na rimwe hari amanama menshi ahuriza abantu ahantu hatandukanye, yaba abaganga cyangwa se n'abandi, bakaba bambaye imyenda n'imyambaro isa, kugira ngo babashe kuba bameze nk'abahuje umugambi.

Kugira ngo ubuzima bugende neza, usanga tugirwa inama n'ababishinzwe, cyangwa n'igice cy'ubuganga, kugira isuku, ndetse no koza cyangwa kwita ku bikoresho dukoresha tubika amazi nk'amajerekani, ndetse n'ibindi, kubera ko iyo byitaweho birinda indwara zituruka ku mwanda.

Ubuzima bwo mu mutwe akenshi usanga bugaragara nkaho ari kimwe mu bintu bihangayikishije isi niyo mpamvu iyo umuntu yishimye cyangwa arakaye yigunze se bihuzwa n'ubuzima bwe afite mu mutwe yaba bwiza cyangwa ububi niyo mpamvu kugaragara uko ari ko kose bisobanura ubuzima bwawe bw'ahandi cyangwa mu mutwe .

Amazi ndetse na za mudasobwa ni kimwe mu bintu usanga imbere y'ameza y'abantu iyo biga ku buzima bwo mu mutwe kugira ngo babashe kuba bita neza ku byo bakora, ni ngombwa kunywa amazi ndetse no kwandika ibyavugiwe muri iyo nama muri za mudasobwa baba bitwaje.

Buriya abaganga bagaragaza ko umuntu kugira umenye ikibazo afite mu mutwe rimwe na rimwe aba ari ngombwa kugira ibyo umukoresha mu rwego rwo gupima ubuzima bwe bwo mu mutwe niba bufite ubushobozi buzima bwo gukora neza, niyo mpamvu usanga iyo umuganga ari gupima umurwayi amubwira gukora igikorwa rimwe na rimwe usanga atari ngombwa cyane cyangwa kitamusaba imbaraga ariko kugira ngo amwiteho kandi amuvure neza.

Mu rwego rwo gufasha ndetse no kwimakaza umuco wo kurinda ubuzima bwo mu mutwe, rimwe na rimwe umuntu iyo yakoze ibikorwa bidakwiriye cyangwa se amakosa ni ngombwa kumwambika amapingu ndetse agahanwa n'inzego z'umutekano mu rwego rwo kureba niba afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se ari ibindi yakoze abishaka, kugira ngo afashwe n'inzego zindi zibishinzwe z'ubuzima.

Nyuma y'inama yiga ku buzima bwo mu mutwe, usanga abayitabiriye ari ngombwa ko bafata ifoto, mu rwego rwo kwiyibutsa ibihe baba bahagiriye kandi nk'ikimenyetso cyiza cy'imikoranire hagati yabo kandi kugira ngo bazajye bahora bibuka icyo gihe.

Ikigo gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe, usanga kiba cyarashyizeho ingamba ndetse n'amabwiriza, kandi kikitanga cyane kugira ngo kibashe kusa ikivi cyatangiye. Bityo rero kigahugura abantu, yaba abaganga ndetse n'abanyeshuri, imitangirwe ya serivise nziza yacyo, igendanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Mu moko menshi y'ubuvuzi usanga bumwe muri bwo harimo ubuvuzi bukorwa biciye mu kuganira n'abandi ukumva icyo mugenzi wawe afitemo nk'ikibazo ndetse ukumva niba ari ikibazo cy'indwara zo mu mutwe ukamenya icyo yafashwa kandi akavurwa neza bigendeye ku buryo arwayemo.

Abahanga benshi mu by'ubuzima bwo mu mutwe usanga baba barize neza kandi bazi kuvura ariko ni ngombwa kuba twubahiriza amabwiriza ndetse n'inama tugirwa n'abaganga mu rwego rwo kwirinda ndetse no kugira ubuzima bwiza kugira ngo abantu bose babashe kubaho neza kandi bafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Byagaragaye ko ahantu henshi hatandukanye, iyo hageze igikorwa gihuriza abantu benshi, kandi bagira icyo bigaho, byagaragaye ko ari ngombwa ko bicara ahantu hamwe mu buryo runaka kugira ngo bakurikire neza ubaha ijambo nyamukuru. Rimwe na rimwe usanga bicara mu buryo buzengurutse, bose bakaba bakurikiye ndetse bareba neza ubagezaho imbwirwaruhame.

Indwara zo mu bwonko usanga ari kimwe mu bintu bihangayikishije imbaga nyamwinshi ndetse n'abahanga udakubiyemo na za leta z'ibihugu bitandukanye, kubera ko icyorezo kigenda cyica abantu benshi uko bwije n'uko bikeye, kandi ntago gihagarika kwiyongera.

Zimwe mu ngaruka zituruka ku buzima bwo mu mutwe buba bwarangiritse usanga akenshi ari nk'urupfu ruturutse ku kwiyahura, aho usanga abantu abenshi biyica bakiyahura kandi iki ni ikibazo ku bantu biga ubuzima bwo mu mutwe kuko usanga bagomba kwita kuri abo bantu mbere y'uko bagahura n'izi ngaruka.

Abana benshi ndetse n'abantu bakuru usanga ari bamwe mu bantu bakwiye kwitabwaho cyane cyane ku buzima bwo mu mutwe, kubera ko usanga bafite ikibazo yaba ibyazamukiye ku mibereho mibi cyangwa imirire itaboneye kandi usanga byica iterambere ryabo.

Inama nyinshi iyo zibaye usanga zigomba kuba zifite izabiranze wenda hakavugamo nk'umupira cyangwa ibindi byose biba bigaragaza icyabaye muri iyo nama ndetse n'igihe yabereye kugira ngo abayitabiriye ndetse n'abatarayitabiriye bajye babasha kuzirikana igihe yabereye ndetse n'icyo yigagaho icyo gihe yabaga.

Ahantu henshi hahuriwe abantu usanga ari ngombwa ko hitabwa ku buzima bwabo yaba igitsina gabo n'igitsina gore, kuko bose ari ab'ingirakamaro, ni nayo mpamvu kandi bashishikarizwa kubana neza mu mahoro mu rwego rwo gutera imbere ndetse no guteza imbere imibanire yabo myiza.

Kuganira byagaragaye ko ari imwe mu miti ifasha abarwayi rimwe na rimwe bafite indwara zo mu mutwe, kubera ko iyo baganirijwe neza ndetse biboneye baruhuka mu mutwe ndetse bagatuza, bagakira indwara zabo ndetse zigakira burundu.

Mu rwego rwo kugaragaza ubufatanye ndetse no gukorera hamwe, ni ngombwa ko iyo hari igikozwe cyose yaba nyuma cyangwa mbere y'inama hagomba gufatwa ifoto cyane cyane iyo ari iyiga ku buzima bwa muntu cyangwa imibereho myiza y'ikiremwamuntu.

Ubuzima bwo mu mutwe ni kimwe mu bice byitabwaho na ba muganga ndetse na leta muri rusange, igakorana n'ababishinzwe mu cyiciro cy'ubuzima kugira ngo babashe kwita ku banyagihugu babo babarinde ubuzima bubi bwaturuka ku ndwara zo mu mutwe kubera ko zihangayikisha ndetse zikica.

Igihe umuntu uri kumusaba amakuru aba ari ngombwa kwicarana na we kandi mwegeranye munarebana rimwe na rimwe mu rwego rw'uko bimufasha kutibagirwa ibintu bimwe na bimwe kandi akabikubwiza ukuri kugira ngo ubashe kubona amakuru ukeneye kandi uyakoreshe mu buryo bukwiriye.

Abahanga mu by'indwara ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, bagaragaje ko ari ngombwa kwita mu buzima bwo mu mutwe kubera ko icyabereye mu mutwe kigaragara n'inyuma ku isura, ni kuri iyo mpamvu tugirwa inama yo kwita ku buzima bwacu kandi tukirinda icyahungabanya ubuzima bwo mu mutwe, kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Abayobozi benshi baba bajejwe ubuzima usanga bakunda kwifotoza, kandi ni ngombwa kuko aya mafoto aba azashyirwa ahantu kugirango bagaragare ko ari bo bari muri icyo kiringo. Niyo mpamvu ari ngombwa gufotorwa kandi bagafotorwa neza.

Ubuzima bwo mu mutwe buba bukwiye kwitabwaho kubera ko usanga ikigaragara inyuma kiba cyahereye mu mutwe kandi umuntu ufite ikibazo mu mutwe aba agomba kuba afashwa byinshi kugira ngo abashe kuba akiri icyo kibazo ndetse abashe kuba ahabwa ubushobozi kandi n'ubuzima bwe buvanwe mu kangaratete.

Mu buzima bwa buri munsi bwa muntu usanga ari ngombwa gukora ibishoboka byose kugira ngo agire imibereho myiza cyane cyane yita ku ndwara zamwibasira ku buzima bwo mu mutwe aho usanga aba ategetswe kurya neza cyangwa kunywa neza kugira ngo agire ubuzima bwiza buhagaze neza, niyo mpamvu usanga tugirwa inama nko kunywaha igikoma cyangwa kurya ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri kugira ngo abana cyangwa abakuru bakure mu bwenge ndetse no mu gihagararo.

Abantu benshi bakora ubucuruzi bwateye imbere cyangwa n'ubusanzwe usanga babukorera mu mazu atandukanye kandi bagacuruza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa byose by'amoko yose mu rwego rwo kuba bagomba kugira ababagurira benshi kandi icyo bazajya baba bashaka batazakihabura kugira ngo badahomba amafaranga.

Mu buzima bwa buri munsi bwa muntu, aba ari ngombwa kugira isuku kubera ko ari ngombwa kugira ngo abashe kubaho ndetse yirinde indwara zimwe na zimwe, harimo izo kudakaraba cyangwa izindi zose zabangamira umubiri, mu rwego rwo kubaho neza.

Iyo inama nyinshi zirangiye usanga abayobozi benshi ndetse n'abazitumiwemo bafata ifoto z'urwibutso, kugira ngo bagaragaze kandi bagaragarize abari babakurikiye ko bakoraga inama nziza kandi ifite umujyo.

Gusaza bigendana n'ubuzima bwo mu mutwe, ni yo mpamvu usanga abaganga batugira inama yuko n'iyo twaba dushaje tugomba kugerageza gukoresha imitwe ndetse n'ubwonko bwacu kugira ngo buzajye bugendana kandi buhore bukora neza kugira ngo na none usange umuntu akimeze neza n'iyo yaba ashaje.

Mu kwita ku buzima, ni ngombwa ko umuntu wese agomba kugira isuku, yaba ibyo yambaye, ndetse akayigiriraho n'aho ari. Ni yo mpamvu byagaragaye ko isuku ari ngombwa, yaba ku bakuze cyangwa abato, ndetse tukayigirira ahadukikije n'aho tugenda, ndetse n'aho twirirwa.

Mu nama nyinshi usanga abazitabiriye baba bitwaje amazi yo kunywa mu rwego rwo kubarinda gusinzira cyangwa umunaniro ukabije kugira ngo babashe gutanga ibitekerezo bikwiriye kandi biboneye ,ni muri urwo rwego kandi inama nyinshi zivuga ku buzima bwo mu mutwe usanga zihagarariwe n'umuntu umwe atanga imbwirwaruhame abandi bakamwumva.

Inzu nyinshi zitangirwamo serivisi zo kuvura, usanga ziba zifite ibirango yaba handitsweho cyangwa isobanura icyo ikorerwamo, rimwe na rimwe aba ari ngombwa ko ugenda usoma kugira ngo usobanukirwe ikihakorerwa n'ubwo bwose haba hari abashinzwe kukuyobora ibikorerwa aho ngaho.

Abantu bafite ubuzima bwiza usanga akenshi bagomba kuba bishimye cyane iyo ari nk'abana cyangwa se abantu bakuru. Niyo mpamvu ugomba gusanga barangwa n'ibyishimo byinshi nk'abanyeshuri cyangwa se abandi bantu abo ari aribo bose, iyo babona ubuzima bugenda neza.

Amenyo ni igice kigize umuntu niyo mpamvu ari ngombwa kuyasukura bigusaba kwitonda ndetse no kubikora neza kandi biboneye, kubera ko zimwe mu ndwara zifata ibice by'amenyo zangiriza amenyo kandi bikayabangamira, rero ni ngombwa kuyitaho mu buryo bwiza kandi yagira ikibazo tukavuza.

Ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, usanga bikoreshwa mu buvuzi aho byateye imbere, cyane cyane kugira ngo hafatirwe ingamba indwara zimwe na zimwe zigize akari aha kajya he ndetse zanze no gukira, ni ngombwa rero ko dukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga mu buvuzi.

Amenyo ni kimwe mu bice bikwiye kwitabwaho ku mubiri w'umuntu kubera ko ari ahantu hamwe haranga ubwiza bw'umuntu ndetse hakaba hafasha byinshi mu bikorwa bye bya buri munsi ibyo aribyo byose yaba akora. Ni yo mpamvu inama zituruka ku baganga zivuga ko umuntu akwiye kwitondera ibikorwa akoresha igice cy'umutwe harimo n'amenyo.

Amenyo ni kimwe mu bice bya muntu umuntu aba agomba kwitaho kugira ngo agire ubuzima bwiza, ni yo mpamvu kandi usanga abaganga ndetse n'ibindi bigo byose bigira inama kuyoza neza cyangwa se kuyafata neza, kuko usanga bigoranye kuyarinda kandi igihe yagoranye ko yaba yangiritse, biba bigoye kongera kuyasubiza mu mwanya wayo cyangwa se kuyavura.

Ibikoresho byinshi byo kwa muganga usanga biba bihenze cyane ko biba bikora akazi gakomeye ndetse byarakuwe ahantu henshi nko mu mahanga kandi ku kiguzi kitoroshye, niyo mpamvu aba ari ngombwa ko twumvira amabwiriza agenga kwa muganga mu rwego rwo kubungabunga ibikoresho byaho.

Koza amenyo cyangwa gusukura ni kimwe mu bikorwa usanga ari iby'ingenzi mu buzima bwa buri munsi bwacu, niyo mpamvu yaba umukuru cyangwa umuto, dukwiye kwigishanya ndetse tukanasobanukirwa neza isuku yo mu menyo kugira ngo twirinde indwara nyinshi zituruka ku mwanda wo mu kanwa.

Kuganira ndetse no guhuza ibiganiro, ni bimwe mu bizamura amarangamutima y'abantu ugasanga barishimye kandi bigateza imbere abantu ndetse harimo no kwishima, kugaragaza imvamutima zabo bakabana neza mu mahoro.

Abaganga b'amenyo ni ngombwa kubashakira ibikoresho byabugenewe kugira ngo babashe gukora akazi kabo bitonze ndetse bagakore neza, nk'iyo usanga baba bafite ikayi bandikamo raporo ndetse n'ibindi bagomba kuba bakoresheje nk'ibikoresho byabo bya buri munsi.

Kwita ku murwayi, usanga ari kimwe mu kazi abaganga babajejwe, kugira ngo babashe kwita neza ku murwayi wabo, usanga bakorana mu nshingano zisobekeranye, mu rwego rwo kwihutisha akazi, no gukira k'umurwayi bari kwitaho, maze babashe kumugarurira no kumutabarira ubuzima.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi aba ari ngombwa gusuzumisha ndetse no kwita ku menyo kubera ko ari bimwe mu bice usanga bigoye kubonera ibibisimbura mu gihe byangiritse, kandi ni ngombwa kubera ko usanga abaganga bashinzwe kubyitaho nabo baba barabuze kandi ari bake.

Amenyo y'umuntu usanga ari kimwe mu bice bikunda kugaragarira abantu benshi, niyo mpamvu ari ngombwa kuyagirira isuku ndetse kuyitaho kubera ko nanone aba ari ngombwa kugira ngo atanuka, cyangwa atagira ikibazo icyo ari cyo cyose gituruka ku mwanda cyangwa isuku nke.

Iyo tugeze mu buryo bwo gusukura amenyo tugirwa inama ko tugomba kubikora neza kandi twitonze, kuko iki gice cy'amenyo usanga ari kimwe mu bice bigomba kwitabwaho twitonze kubera ko kandi nanone usanga kubivura bigora kandi ugasanga byanyangirika byoroshye.

Ikoranabuhanga riteye imbere usanga ryifashishwa ndetse biteye imbere mu kuvura abantu cyangwa mu kubafasha muri serivisi zose zitandukanye z'ubuzima, naho usanga ryifashishwa mu kuvura indwara zo mu mutwe ndetse n'iz'amenyo, kugira ngo byihutishe ugukira k'umuntu wabagannye kwa muganga.

Amenyo yacu usanga ari kimwe mu bice by'ingirakamaro dutunze mu mibiri, kubera ko usanga ntamenyo haba hariho ubusembwa ku mubiri, kandi nanone ni ngombwa ko iyo agize ikibazo tugomba kujya kwa muganga, tugakurikirana tukamenya ibyo aribyo, kandi yaba afite ikibazo tukayakuzamo tugashyiramo andi, cyangwa insimburangingo izo arizo zose zabasha kuyasimbura.

Umuvuzi, usanga igice cyiga ku buzima bw'amenyo, ndetse n'umutwe wose muri rusange, ari igice cyahawe, kandi gitezwa imbere mu rwego rwose, kuko usanga gikoreshwamo n'ikoranabuhanga riteye imbere, kugira ngo kibashe kuba kigwa neza kandi gisobanukirwe cyane.

Amenyo cyangwa igice cyose cyo hejuru, usanga ari ahantu hitabwaho n'abantu benshi, kubera ko haba arih'agaciro kandi hagomba kugirirwa isuku, ndetse no kugirirwa ubwitonzi bukomeye. Mu rwego rwo kuhabungabunga niyo mpamvu usanga hagirwa inama abantu benshi, bagomba kuba bitonda kugira ngo batangirika iki gice, kubera ko ingingo zacyo, zisimbura izangiritse bigorana kuzibona.

Ibikoresho byinshi byifashishwa mu buzima bwo kuvura amenyo, usanga ari kenshi ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa se ibindi byose biba bihenze, kubera ko iki gice cyo mu buzima bwo mu mutwe, aba ari igice gikomeye cyane ku muntu cyangwa se n'ikindi kinyabuzima icyo ari cyo cyose.

Mu buvuzi bw'amenyo ni ngombwa ko hakoreshwa ikoranabuhanga kubera ko rireba kure kandi rigafasha mu gihe cyihuse, kandi usanga rikora ibirenze ibyo umuntu yakora we ubwe ku giti cye. Ni ngombwa rero ko ritezwa imbere kandi rikabungabungwa kugira ngo rijye ribasha gufasha kandi ....

Amenyo ni kimwe mu bice bigize umubiri w'umuntu, ndetse kandi bikaba ari iby'ingenzi ku muntu, usanga byaragaragaye ko bigomba kubonerwa insimburangingo, igihe umuntu nyiraryo yaje kuba aribura cyangwa agira ibyago rikangirika.

Igice cy'umutwe ndetse n'amenyo, ni kimwe mu bice bigomba kwitabwaho, ndetse tugirwa inama n'abaganga ko tugomba kwigengesera kubera ko usanga yaba kugisukura ndetse n'ibindi byose byo kucyitaho ari bimwe mu bigoye, kandi nanone bavuga ko iyo habaye ikibazo muri ibi bice biba bigoye kugira ngo bisimbuzwe ndetse bize kuba bivurwa.

Ibigo byinshi bishinzwe kuvura, indwara z'amenyo, akenshi usanga batanga, inama, ndetse n'amabwiriza y'ukuntu, umuntu akwiye kwita ku menyo ye. Niyo mpamvu akenshi biririrwa bavuga ko, koza amenyo neza, kandi kuyasukura, ari ingenzi, ndetse tukayafata neza, kubera ko akenshi bigorana kuyasimbuza, iyo yangiritse.

Ubuzima bw'amenyo usanga akenshi buba bushingiye ku isuku yayo. Niyo mpamvu igihe cyose, umuntu aba agomba gusukura amenyo ayoza n'umuti wabugenewe kugira ngo agire ubuzima bwiza bw'amenyo kandi ikindi hari imiti yabugenewe itangwa n'ababishinzwe nko kwa muganga ndetse n'ahandi kugira ngo abashe kubungabunga ubuzima bwe.

Amenyo ni kimwe mu bice biranga ubwiza ku mubiri w'umuntu. Niyo mpamvu rimwe na rimwe cyangwa kenshi, usanga tugirwa inama yo kuyitaho ndetse no kuyasukura neza byabugenewe. Hari ibikoresho byinshi biba byaragenewe gusukura amenyo, mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza bw'amenyo.

Isuku ni kimwe mu bintu bigomba kwibandwaho ahantu cyangwa mu nzu zose zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kubera ko abantu bose bahagana baba ari abantu bakunda, kwitegereza cyangwa bakareba bafite indwara z'ubuhumekero, cyangwa indwara izo arizo zose zituruka ku isuku nkeya cyangwa n'ibindi niyo mpamvu ari ngombwa kwita ku isuku ahantu hose.

Gukora siporo ni kimwe mu bikorwa usanga bitanga ubuzima bwiza, yaba ku bana, abakuze, cyangwa se abari mu kigero rusange cy'imyaka isanzwe. Ni yo mpamvu iyo umuntu akora siporo, akwiye gukora siporo yumva umuziki, kuko bifasha ndetse bikamurinda guteshuka ku byo ari gukora, kandi bikamufasha.

Gukora akazi ko gusuzama umurwayi usanga ari kamwe mu kazi k'abaganga, kagoye kandi gasaba kwitonda, ni mu gihe kandi ari ngombwa kubera ko utamenya imiti cyangwa ingano, n'ibindi byose nk'inshinge wandikira umurwayi, mu gihe utamusuzumanye ubwitonzi ndetse ngo umenye ikibazo afite.

Amwe mu mabwiriza cyangwa amahame yashyizweho no kwa muganga, usanga ari ngombwa kuganira n'umurwayi kugira ngo ubashe kumukuramo cyangwa kumufata ibizamini, kugira ngo avurwe neza kandi yitonze, kandi ikindi usanga ugomba kubanza kuganira nawe we kugira ngo umenye ikibazo afite.

Bimwe mu bifasha abantu bakuru, usanga akenshi iyo bamaze gusaza bitwaza akabando, kugira ngo babashe kuba bagira cyangwa bongererwa akabaraga. Ariko nanone bagirwa inama yo kwegera abaganga ndetse n'abandi bose babafasha kugira ubuzima bwiza, ndetse no kubagira inama y'ubuzima bwabo ko babagana bakabafasha.

Abantu bakuru ndetse n'abato cyangwa se ahantu hahuriye abo bose, ni ngombwa kubafasha kugenda kuko baba bashaje badafite imbaraga nyinshi zo kugenda bihuta cyangwa se ngo bahure n'ibibazo bitabare, niyo mpamvu aba ari ngombwa kububaha ukabafasha aho bibaye ngombwa mu rwego rwo kubagirira ubuzima neza.

Ubuzima bw'abantu bakuru ni ingenzi, cyane cyane kwita ku mibereho yabo, harimo nko kwishima ndetse kureba ko nta ndwara baba bafite, kubera ko usanga rimwe na rimwe bashobora kwibasirwa n'indwara ntibabashe kubasha kwijyana kwa muganga, cyangwa se gutabarwa byihuse, niyompamvu ari ngombwa kubakurikiranira hafi.

Mu rwego rwo kwita ku bantu ndetse no gutanga serivisi nziza kandi iboneye, usanga iyo umurwayi arwariye kwa muganga, aba ari ngombwa kumufasha mu buryo bwose. Ukamugendesha gake gake mbere y'uko abanza gukora ibikomeye, mu rwego rwo kumufasha ndetse no kumurinda kongera kurwara, niyo mpamvu usanga ababishinzwe bamufasha, bakamwereka uburyo akwiriye gukora gahunda ze neza.

Abantu bakuru usanga ari ngombwa gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga mu rwego rwo koroshya ubuzima kandi bakambara neza bakagira n'isuku ndetse bagakorera hamwe kugira ngo babashe kuba bagira icyo bageraho mu buzima muri rusange.

Bimwe mu bigira ubuzima bwiza ndetse no gukomeza kubaka umuryango, harimo kubaho mwishimye kandi mukaba mugirana umubano mwiza mu rwego rwo gukomeza kubana neza. Rimwe na rimwe tugirwa inama zo kugirana umubano mwiza kugira ngo hatazajya haba amakimbirane mu miryango yacu.

Umuganga ndetse n'abandi bantu bafasha kandi batanga serivisi zo kuvura cyangwa serivisi z'ubuzima, usanga bakunda gufasha abantu cyane cyane nk'abavunitse ndetse n'abarwayi bose muri rusange kugira ngo babashe kuba batanga ibyo aba bantu babasabye kandi bakabitaho neza uko bikwiriye.

Ubufasha rimwe na rimwe dukura kwa muganga nibwo butuma dukira, nko kuba umuganga agomba kukwitaho agusekera, cyangwa se agufasha ibindi byose arimo akwishimira. Usanga bimwe na bimwe bikundwa n'abarwayi, ndetse bikabafasha kuba bakira vuba, ndetse kandi bagashimira abo bantu babibakoreye.

Umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo, abana ndetse n'abandi, usanga ari ngombwa kwishima kugira ngo babashe kubaho neza kandi babanye mu mahoro. Ni yo mpamvu abantu bose baba basabwa kubana neza nta ntonganya ndetse nta kurwana kugira ngo igihugu ndetse na sosiyete bitere imbere.

Gusoma cyangwa kunguka ibintu byinshi bishyashya, usanga ku bantu bakuru ari ibintu byiza, kubera ko ari ukumenya ndetse no kunguka ibyiza gusa. Ni yo mpamvu usanga yaba umuntu mukuru cyangwa n'umuto, bagirwa inama yo kwimenyereza kunguka cyangwa gusoma ibindi bintu bishyashya, mu rwego rwo kugira mu mutwe hatyaye.

Imiryango myinshi yo muri Afurika kubera ko yegamiye ku buhinzi cyane, usanga iyo yagize umugisha ubutaka ndetse n'ikirere bikabakundira bikabaha imvura ndetse n'akazuba, usanga imeze neza iyo rimwe na rimwe igejeje mu rwego rwo kubaho neza, ukabona yishimye kandi imeze neza.

Ubuzima bw'abantu bakuru n'ubwabato aba ari ngombwa kubyitaho kubera ko biba bikenewe ko barama kandi bakamera neza, bwitabwaho binyuze mu bice bitandukanye nko kurya neza cyangwa kunywa ibinyobwa bifunguye kandi bifite ubuziranenge, rimwe na rimwe ukanasoma ibitabo kugira ngo umere neza unirinde indwara z'amaso.

Mu rwego rwo kugira imiryango yishimye kandi ibanye neza ,usanga tugirwa inama ko abantu bakuru bagomba gufatanya na bagenzi babo maze mu kwita ku bana babigisha bimwe na bimwe cyangwa kubasomera ibitabo ndetse bagakora igishoboka cyose kugira ngo abana babiyumvemo ndetse bakomeze kuzamura umubano mwiza mu muryango hagati y'abakuru n'abana.

Bimwe mu bikuza umuryango ni abana ndetse muri rusange n'abakuru harimo kugirana ubushuti hagati mu bagize umuryango, kuko bifasha abana gukura neza no kwiyuvanamo n'ababyeyi babo bityo bigatuma babubaha babakunda muri rusange.

Imibanire myiza irimo amahoro muri rusange yubaka igihugu, niyo mpamvu usanga kugira ngo abantu babane neza kandi igihugu gitere imbere bakwiye guteza umubano wabo imbere bakora nk'ibikorwa bibahuriza hamwe, kandi bibashimisha kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza ndetse bishime mu buzima kandi igihugu gitere imbere.

Iyo usuzumye indwara nyinshi zituruka ku bukure, usanga ari indwara ziterwa n'uko umuntu ataba yarakoze siporo, cyangwa yaritabiriye ibikorwa byinshi byo kugorora umubiri, niyo mpamvu aba ari ngombwa ko dukora siporo kandi tukagorora, umubiri tukanywa n'amazi mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza.

Mu buzima bwa buri munsi bw'abantu byagaragaye ko ari ngombwa gufata icyo kurya, kugira ngo babashe kubona imbaraga zibasha kubafasha mu gukora akazi gatandukanye bakora cyane cyane nk'ak'imbaraga kugira ngo babashe kubaho ndetse no gutera imbere.

Mu gihe umuntu agiye gutambutsa ikiganiro cyangwa imbwirwaruhame muri rusange, aba ari ngombwa ko agira ahantu atereka ibikoresho ari bukoreshe avuga harimo n'amakaramu, amamashini cyangwa se n' ibindi byose bitandukanye nk'impapuro aba ari bukoreshe atambutsa icyo kiganiro.

Kwita ku buzima bw'umuntu mukuru nabyo ni ingenzi, kuko usanga ari ngombwa kandi bikwiriye, kubera ko ari bamwe mu bantu usanga bafitiye sosiyete akamaro kanini, kubera ko nanone byagaragaye ko ari bamwe mu twakwita inzu z'ibitabo, kandi badufasha kumenya ibintu bimwe na bimwe tuba tutazi nk'abantu bato.

Mu buganga tugirwa inama yo kurya ibiryo birinda indwara, ndetse n'imbuto n'imboga kugira ngo tubashe kugira ubuzima buzira umuze, kandi tugire amagara mazima kubera ko usanga imboga n'imbuto ari ibintu bifasha cyane ubuzima bwa muntu, kubaho ndetse akabaho yishimye.

Gufasha abantu bakuru kunywa imiti cyangwa gufata ibyo bagenewe ni kimwe mu kazi k'abaganga usanga bitaho cyane ku bandi bakora neza, niyo mpamvu usanga abantu bakuru baba bakunda abaganga babafata neza babibutsa kunywa imiti cyangwa gufata ibindi byose ndetse no gukurikiranya gahunda abafite kwa muganga.

Kugira ngo ubuzima bugende neza mbere na mbere, iyo umuntu agiye kurya abanza gukaraba neza, ndetse yajya gutegura ibyo kurya, akabitegurana isuku, kandi akita ku biribwa bibasha kumutera imbaraga, ndetse ibirinda indwara, cyangwa ibyubaka umubiri. Kandi ikindi, ugafatanya na mugenzi wawe muganira, museka, kugira ngo bigende neza.

Yaba abakuru n'abakomeye. Cyangwa se abayobozi bose ndetse n'abayoborwa, usanga tugirwa inama yo gukora siporo, ndetse twishimye kandi dufite amazi yo kunywa, kugira ngo bitworohereze kugira ubuzima bwiza, ndetse tubeho nta ndwara zimwe na zimwe zitwibasira.

Kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza ndetse buzira umuze, ni ngombwa ko ategura ibyoku kurya ku meza biriho ibigizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga, kandi akabirya yishimye n'uwo bashakanye ndetse n'umuryango we wose kugira ngo akomeze kubaho neza.

Abaganga muri rusange usanga bakoresha uburyo bwinshi butandukanye bwo kuvura abantu nkaho rimwe na rimwe usanga bakoresheje uburyo bwo kubaganiriza, kubaha ubwisanzure bakababwira ibibazo bafite, ni ku bw'iyo mpamvu usanga tugirwa inama zo kumva ndetse no kubaha, gutega amatwi abaganga kugira ngo tubashe kuvurwa neza.

Ubuzima bw'abantu bakuru usanga akenshi burangwa no kwishima ndetse no gufatanya hamwe mu muryango kubera ko ibi byose bizana umubano mwiza ndetse n'imibereho myiza mu muryango kandi bigateza imbere ubuzima bwabo ndetse bukaba bwiza.

Kugira ngo hitabwe ku buzima bw'abantu bakuru usanga akenshi haba harimo kurya neza ndetse no kunywa ibintu byiza kandi bifite ubuzima n'ubuziranenge kugira ngo babashe kumera neza kandi basaze neza, niyo mpamvu aba ari ngombwa kwitaho ndetse no kubafata neza.

Buri gihe mu buzima bwa buri munsi bwa muntu, usanga uyu muntu ukuze aba agomba kwitabwaho cyane mu rwego rwo kumubungabungira ubuzima, kubera ko cyane aba abikeneye kandi akitabwaho n'inzego zibishinzwe nko kwa muganga cyangwa n'ahandi hose bafite inshingano mu buryo bwo kwita ku muntu.

Mu biganiro byinshi usanga rimwe na rimwe abantu bakuru aribo batanga imbwirwaruhame cyangwa se abandi bose baba bafite amakuru ku kiba kigiye kujya imbere niyo mpamvu bamutegurira ahatu ndetse bakamuha indangururamajwi kugira ngo abantu bose babashe kumwumva kuko akenshi aba ari umwe kandi ari benshi batabasha kumwumva atakoresheje ibyuma byabugenewe kandi byongera ijwi ry'umuntu.

Iyo urebye gufasha usanga ari igikorwa cyiza by'umwihariko iyo umuntu ufasha agendera ku bantu bakuru ndetse n'abatoya bityo akagenda ahabwa imigisha myinshi cyane ko ari ngombwa cyane.

Mu birori byinshi bitandukanye bibera ku isi, usanga rimwe na rimwe iyo byabaye ari nk'ubukwe, abantu benshi baba bambaye imyenda yabugenewe nk'imikenyero ndetse n'ibindi kandi bakambara n'ibindi bihuriza abantu bagiye mu bukwe kandi bakaba basa neza ndetse bakurura ababareba.

Ni byiza kandi ni ngombwa kubanza gusoma amabwiriza aba yanditse ku miti umuntu wese aba yahawe kugira ngo afate kubera ko bimurinda kuyifata mu rwego rutari rwo ndetse no ku kigero kitari cyo, akamenya cyangwa agasobanukirwa uburyo azajya ayikoreshamo byuzuye neza kandi biboneye.

Inama zituruka ku baganga ndetse n'abavuzi bose muri rusange, bagira inama abantu bakuru ndetse n'abatoya ko ari ngombwa kugira aho bahurira bakitanaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi buzira umuze, bakore na siporo baganire, baruhuke neza, kugira ngo batere imbere mu buzima bwabo.

Gufata imiti neza kandi witonze, bigaragara ko ari kimwe mu bifasha umurwayi gukira indwara aba arwaye kandi akitabwaho bitandukanye ndetse akagira abamwibutsa kuyifata kuko usanga iyo miti ifite isaha ndetse n'igihe yagenwe yo gutangirwaho, akayinywa yitonze kandi afashijwe neza.

Ingamba nyinshi zo kwirinda indwara zitandukanye, usanga zituruka mu bigo bishinzwe ubuvuzi maze Leta nayo ikabifasha kugira ngo hirindwe izo ndwara, maze zitica ndetse zitabangamira abanyagihugu. Harimo nka za SIDA cyangwa za Kanseri aho usanga ziba zarihariye umubare munini ziba zarangije ku isi.

Amahame n'ingamba aba yarashyizweho mu kwirinda indwara zimwe na zimwe, usanga akenshi aba areba ababyaye nk'abagore ndetse n'abagabo mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza kandi bagakurikiranwa bitonze kugira ngo babeho neza ndetse n'abana babo.

imiti muri rusange usanga ari kimwe mu bifasha ubuzima bwa muntu yaba umuto cyangwa umukuru kubera ko iyo aramutse arwaye niho imbaraga ze ziba zigiye kugabanyukira kandi nta bundi buryo aba agomba kubikora atagiye ngo abashe kuba ahabwa inama ndetse n'imiti bimufasha kugarura imbaraga z'ubuzima bwe.

Byagaragaye ko kenshi mu mahuriro y'abantu benshi usanga ikiba kiri ku meza y'ibiganiro, akenshi aba ari ubuzima. Ni ku bw'iyo mpamvu rero ahahuriye cyane cyane abantu haba hakwiye kugira ingamba z'umutekano n'isuku; kugira ngo abari aho hantu babashe kwitabwaho bikwiriye.

Rimwe na rimwe iyo bigeze mu ngamba z'icyorezo cyangwa iz'ubuzima runaka cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose usanga akenshi abantu b'igitsina gore aribo batanga imbwirwaruhame ku bantu kuko bazwiho gukurura ndetse no kwemeza abantu babwira ndetse baba bafite ubushishozi n'ubwenge bwinshi.

Indwara nyinshi hano ku isi zizengereje abantu ndetse zica abantu benshi, usanga ziba zifite ibimenyetso kandi bikaba ari byo bigenderwaho mu kuzishakira umuti ndetse n'urukingo, kugira ngo umuntu azihagarike rero, aba ari ngombwa gukurikiza amabwiriza ahabwa n'inzego zibishinzwe.

Ingamba nyinshi zo kwirinda icyorezo cyangwa indwara iyo ari yo yose yaba yateye ikiremwamuntu, usanga zihuriye ku mbaga nyamwinshi ndetse amabwiriza agashyirwaho na bamuganga, maze akaba areba sosiyete yose muri rusange, mu rwego rwo kwirinda ndetse no kuyikumira kugira ngo ubuzima bukomeze busagambe.

Amaminisiteri menshi y'ubuzima usanga akorera hamwe kandi agafatanya n'abaturage kuvura cyangwa gukurikiranya amabwiriza uko yagenwe, kugira ngo abashe guhereza serivisi ziboneye kandi zikwiriye abanyagihugu, kugira ngo babashe kubiyumvamo batere n'imbere.

Amaminisiteri menshi ashinzwe ubuzima usanga agira inama abantu ndetse n'abanyagihugu bose kwirinda yaba indwara zandura n'izitandura cyane cyane nko mu Rwanda usanga tugirwa inama mu kwirinda amavirusi menshi haba harimo ayasida ndetse n'ibindi byose kugira ngo dukomeze dushikame ku buzima ndetse dukunda n'igihugu muri rusange.

Ingamba nyinshi zishyirwaho ku isi usanga ziba zafashwe na bamwe mu bategetsi rimwe na rimwe yaba abagize leta iza hano hafi cyangwa izirenze, kugira ngo barebere inyungu ndetse n'ibyateza imbere iyi si muri rusange cyangwa se ikiremwamuntu cyose aho kiva kikagera.

Mu nama ndetse n'amahuriro menshi yiga ku bigendanye n'uburyo hatangwa ubufasha , usanga aba ari ngombwa ko haza abantu babasusurutsa yaba mu kubyina ndetse no kubasetsa mu rwego rwo kubarinda umunaniro ukabije, cyangwa kutajya ku biganiro byatangiwe aho, ndetse haba harimo no kubaba basinzira bikabarinda muri ubwo buryo bwo kubyina cyangwa gutanga inyigisho zisetsa.

Iyi si dutuye usanga rimwe na rimwe ikunda kwibasirwa n'ibyorezo ndetse n'indwara zikakaye, aho usanga rimwe na rimwe abantu ndetse na za leta zikorana kugira ngo zibashe kubirwanya, rimwe na rimwe kandi ugasanga bigoye ariko abantu bakihangana bakabikora.

Amatangazo usanga aba yarashyizweho kugira ngo arwanye indwara runaka cyangwa se ibyorezo, akenshi aba yaranditswe ashyizwemo uruhare na za leta cyangwa se za minisiteri ziba zishinzwe ubuzima, kugira ngo abanyagihugu babeho mu mahoro kandi bameze neza.

Byagaragaye ko indwara yose cyangwa icyorezo, cyaba icya kera cyangwa icyaje mu myaka ya vuba, kiba kigomba gukorerwa urukingo rukirwanya, mu rwego rwo kwita ku buzima bw'abaturage ndetse nubw'ibinyabuzima muri rusange.

Mu buganga, usanga ari ngombwa ubufatanye hagati y'abantu baba bavura cyangwa batanga imiti kubera ko iyo hagiye gukorwa igikorwa, usanga umwe atagishoboza mu guhana amakuru n'abandi rero, usanga akenshi bakorana yenda umwe ahereza undi bikoresho, undi akora igikorwa cyangwa se bose bakabikorera hamwe.

Ingamba nyinshi zo kwirindwa zashyizweho mu buryo bwo kwirinda ibyorezo byinshi bitandukanye, harimo nka za sida cyangwa se ibindi byose bitandukanye, haba harimo nko gukoresha udukingirizo aho bishoboka iyo byananiye umuntu wese kwifata, agirwa inama yo kudukoresha, ariko twebwe tuzi ko kwifata ari byo byiza.

Ingamba nyinshi zo kwirinda ndetse no kubungabunga ubuzima usanga zigendana n'ibikoresho bituruka muri Leta ndetse no kwa muganga, mu rwego rwo kwirinda indwara iba yahungabanyije abantu benshi. Niyo mpamvu usanga hatumwaho ndetse hakifashishwa ibikoresho byinshi, mu rwego rwo kwamamaza icyo cyorezo ndetse n'iyo ndwara kugira ngo ibashe kwirindwa.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima usanga gifata iya mbere mu kurwanya indwara zimwe na zimwe ndetse hari abantu baba babishinzwe gushishikariza ndetse no gukurikiza amabwiriza aba yashyizweho n'icyo kigo mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'abanyagihugu ndetse n'abandi bose muri rusange .

Leta y'Urwanda usanga yarashyize amabwiriza ndetse n'amahame mu kwirinda indwara zimwe na zimwe zigorana gukira, niyo mpamvu ugomba gukurikiza amahame aba yarashyizweho n'abaganga cyangwa ababihuguriwe, kugira ngo ukomeze ugire ubuzima bwiza ndetse bufite agaciro ndetse buhamye.

Ingamba nyinshi zifatwa usanga zize ku buzima, akenshi haba habaye nk'inama ihuriza hamwe abashakashatsi ndetse n'abandi bose bafite aho bahuriye n'ubuzima, bagaterwa inkunga na leta kugira ngo babashe kurwanya ibibazo cyangwa se bishingiye ku buzima kugira ngo abanyagihugu babashe kuba babaho neza mu mutekano uzira indwara ndetse n'ikindi kibazo cyose.

Abantu benshi baba bafite amakuru cyangwa barahuguriwe urwego runaka nk'indwara z'ubuzima uko wazirinda, usanga akenshi bambara neza ndetse bakambara imyenda yabugenewe nk'amakote ndetse n'iyindi kugira ngo bagaragare nk'abashinzwe gutanga ubwo bufasha aho ariho hose.

Ingamba nyinshi zifatwa zo kwirinda ibyorezo bitera isi cyangwa indwara nyinshi ziba zarafashe abantu zikabararika, usanga akenshi zikorwa n'urubyiruko kubera ko arizo mbaraga z'ejo hazaza. Niyo mpamvu abantu bose cyane cyane urubyiruko ruhamagarirwa kwifatanya n'abo bantu baba bahanganye n'izo ndwara.

Inzu nyinshi zo kwa muganga usanga ziba zifite ibyumba by'ababyeyi cyangwa aho baruhukira yaba aho babyarira n'ahandi, niyo mpamvu utahasanga igitsina gabo iyo ari mu masaha y'akazi kugira ngo abantu bahabwe agaciro kabo ndetse n'ubwisanzure nk'abagore cyane cyane ababyaye.

Iyo umuntu agannye ibitaro cyangwa agiye mu nzu zitanga ubuvuzi usanga yakirirwa n'abantu babishinzwe ku irembo kugira ngo babashe kumuyobora ndetse no kumwereka aho hatangirwa izo serivise ashaka mu rwego rwo kunoza imibanire ndetse n'imitangirwe myiza ya za serivise.

Inzu zose zaba iz'ubuvuzi usanga abakozi bazo baba bagomba kuba rimwe na rimwe bafite ahantu hashyirwa ibinyabiziga byabo bakoresha mu buzima bwa buri munsi kandi hakaba hari n'abantu bashinzwe kubireberara umutekano wabyo kugirango bitangirika kandi bikomeze kuba bifite umutekano uhagije.

Leta nyinshi zo ku isi usanga zarakoze ibishoboka byose mu guteza imbere ubuvuzi cyane cyane ikiringo cy'ubuzima bwo mu mutwe kubera ko usanga hari ibigo byashyizweho mu kurwana n'indwara zibasira ubuzima bwo mu mutwe nk'aho ziba zarashyizweho kugira ngo zihashye burundu ndetse hakomeze kubaho ubuzima bwiza ku banyagihugu.

Inzu ifite isuku, irangwa n'uko ibyo bintu byose biba biri mu mwanya wabyo, yaba intebe, akabati, ndetse n'amateleviziyo, kubera ko iyo ibintu bipanze neza mu mwanya wabyo, bigaragaza isuku, ndetse n'ukugendereye akabona ko ugira gahunda.

Mu bigo byose bitanga serivise z'ubuvuzi usanga hari ahantu haba harateganyijwe ho kuruhukira abana ndetse n'ababyeyi babyaye kugira ngo babashe kwitabwaho n'abababyaje cyangwa abantu babasure neza kandi bahabwe serivise zindi bagombwa.

Ahantu hatangirwa serivisi z'ubuganga, usanga ari ahantu heza, ndetse hakurura amaso y'uhareba, kubera ko haba hari ibiti byiza ndetse n'ubusitani buryoheye amaso, kugira ngo habashe kuba haba hari umwuka ubasha kuba uhumekwa n'abahagana, kubera ko ari hamwe mu hantu umuntu agera ashaka ubuzima bwiza.

Ibigo nderabuzima ndetse no kwa muganga, usanga akenshi ari ahantu hahurirwa n'imbaga nyamwinshi y'abantu, akenshi iba yaje kwivuza ndetse no kwisuzumisha kugira ngo bamenye uko umubiri wabo uhagaze. Ni yo mpamvu usanga haba hari ahantu hagenewe kwicara abantu, aho kubakirira ndetse n'aho kubahera imiti, aho basanze barwaye.

Iyo witegereje inzu nyinshi zo kwa muganga usanga zarubakanywe ubuhanga ndetse n'ubushishozi, kubera ko buri nzu iba ifite icyumba ndetse n'icyo cyagenewe gukora cyangwa abo cyakira muri rusange, kugira ngo ibintu byose bikorwe neza muri gahunda ntawubangamiye cyangwa nta kibangamiye ikindi.

Ni ngombwa cyane gufata ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse biteye imbere kandi bifite imikorere mizima, kubishyira mu nzu z'ubuvuzi kugira ngo zijye zitanga umutahe wazo mu kubaka igihugu ndetse no kuvura abanyagihugu kandi zihutishe serivisi zo gutanga ubuzima bugeze ku bantu kandi burambye.

Mu myubakire iteye imbere bigaragara ko ari ngombwa kubaka ukibuka n'umwanya w'ibinyabiziga cyangwa se aho ahantu abantu bazajya bicara cyangwa bazajya bategerereza mu gihe bataragerwaho mu kubona serivisi bari baje gushaka aho hantu, niyo mpamvu duhamagarirwa twese kugira ubusitani ahantu umuntu yabasha kugama izuba cyangwa imvura, mu gihe yaba atarabasha gufashwa igihe icyo aricyo cyose.

Mudasobwa ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa kwa muganga, bapima cyangwa bafata amakuru y'ibintu ndetse babika amakuru y'abarwayi cyangwa n'ibindi byose nk'ibizamini, mu rwego rwo kugira amabanga ndetse n'umutekano w'amakuru yabo kandi mu kwihutisha akazi bakora.

Amazu akorerwamo ubutegetsi cyangwa se avurirwamo abantu, usanga arangwa no kuba afite gahunda, ubusitani cyangwa se ikirango cy'igihugu nk'ibendera, akenshi kandi hakarangwa no kugira isuku ndetse n'umutekano mu rwego rwo kubaha ibintu byose biba bihari kandi bikagira umutekano uhamye.

Ibyumba byose bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aba ari byiza kandi bisukuye ku buryo ubitegererezamo agiye guhabwa ubuvuzi, ubona nta kibazo agomba kuba afite, kandi yitonze mu rwego rw'uko atarambirwa ndetse akaba acaniwe n'amatara, mu rwego rwo kumugaragariza ahantu ari ndetse no kumurinda ubwoba.

Ahantu hose hari serivise yo kubyaza ndetse n'ibindi, usanga hari inzu yihariye y'ababyeyi igomba kubakira, kugira ngo babashe kuruhuka igihe bavuye nko kubyara cyangwa se mu bindi bikorwa ibyo aribyo byose byabazanye kwa muganga, mu rwego rwo kubabungabungira ubuzima.

Abaganga benshi usanga akenshi ari inararibonye, kubera ko usanga rimwe na rimwe bazi kuvura indwara nyinshi zibasiye inyokomuntu kandi zigakira burundu bifashishije ikoranabuhanga ndetse n'imiti bahabwa no kwa muganga cyangwa se ibyo bize neza mu mashuri makuru na za kaminuza.

Inzu zikorerwamo ubuvuzi ndetse n'izibikwamo imiti aba ari ngombwa ko zigirirwa isuku ndetse n'umutekano. Ni ngombwa kandi ko zitabwaho neza kugira ngo zitazangirika abarwayi cyangwa n'abandi bantu bazikeneyeho amaserivisi atandukanye batazazihaburira.

Amavuriro yose yabigize umwuga usanga ari ngombwa kugira abakozi babigize umwuga ndetse bazi akazi kubera ko usanga bakora amasaha makumyabiri n'ane ku yandi kugira ngo babashe guhereza serivisi iboneye kandi nziza ababagana.

Usanga akenshi inzu zitangirwamo ubuvuzi cyangwa se kugira inama ku buzima, akenshi baba babika ibikoresho byabo ahantu hatandukanye, yaba imiti cyangwa n'ibindi byose byita ku buzima bakoresha, niyo mpamvu usanga ikintu cyose kiri mu mwanya wacyo, kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza hagaragaramo n'isuku

Mu rwego rwo gutanga serivisi inogeye abahagana usanga kwa muganga ari ahantu hari isuku ndetse ibintu byose bipanze neza kubera ko usanga aho bakirira abantu haba haragaragara ndetse n'umuntu ubakira aba ahagaragara ndetse ibintu byose yaba ibitanda ndetse ameza n'intebe byose bikaba biri mu mwanya wabyo kandi hagatangirwa serivisi nziza inegeye urimo.

Ibigo byinshi by'ubuvuzi usanga bikoresha ikoranabuhanga mu gushaka ndetse no kuvumbura amakuru ateye imbere, kugirango bijye bibasha gutanga serivisi neza ku babigana ndetse bibashe kuba bihangana n'ibindi bigo bikora serivisi zimwe.

Inzu zose zitanga serivisi yo gutanga imiti cyangwa kuyicuruza usanga zibanda ku iyigurwa kandi ikenerwa n'abantu benshi, ni muri icyo gihe kandi usanga abantu benshi bayikunda ndetse bakirahira aho bayiguze kubera ko aba ariyo ibafasha gukira kandi bakirukana uburwayi bwabazengereje.

Kwa muganga usanga harangwa n'ibikoresho byinshi, nk'amamashini cyangwa se za mudasobwa, usanga bishinzwe gufata amakuru y'abarwayi ndetse n'ibindi byose bihakorerwa, kugira ngo umuntu uzajya aba yahaherewe serivisi atazajya yibagirana, kandi igihe cyose yagaruka abashe gufashwa bitagoranye.

Inzu nyinshi usanga zishyirirwaho ubusitani mu rwego rwo gusobanura ndetse no gusobanurira abaturage igikorerwamo aho kandi zikurure abantu bazigana mu rwego rwo kugira ngo bazajye bitabira ahantu zikorera, ni yo mpamvu usanga buri nzu igomba kuba ifite ubusitani ndetse ifite aho ibinyabiziga bigenda biba bihagaze.

Urumuri ndetse n'isuku, ni bimwe mu bintu bikurura abantu ndetse ahantu hatangirwa serivisi hose, haba hagomba kuba hagaragara kandi hari isuku kugira ngo umuntu uhagana, ataza kwinubira ibyo yahabonye cyangwa bidakozwe neza, harimo n'isuku ndetse no kutagaragara.

Ubuzima bwo kwa muganga usanga buba burimo ibintu byinshi byiza kandi bitangaje nk'isuku yaho, imipangirwe myiza ndetse n'ibitanda usangayo ubu usanga ari byiza cyane, byakubitiraho no neho serivisi batanga ukabona ukuntu ari iy'agahebuzo, ubona ari ibintu byiza cyane.

Zimwe muri serivisi usanga zitangirwa kwa muganga, cyangwa mu zindi nzu zose zikora ubuvuzi, usanga rimwe na rimwe harimo nko gupima abana ngo bamenye indwara bafite, ndetse bakabapima n'ibiro byabo, kugira ngo babashe kubagira inama, kuko na bo mu buzima baba bashinzwe buba burimo cyane cyane, kandi kuko abana aribo bakwiye no kwitabwaho kurusha abandi.

Isuku ni kimwe mu bintu kigomba kuba gikurura abantu benshi ahantu aho ariho hose haba ahatangirwa serivisi z'ubuzima cyangwa se ahandi hantu hakorera abantu benshi batandukanye, niyo mpamvu aba ari ngombwa kugira isuku, yaba intebe cyangwa se ameza n'akabati na za mudasobwa bikaba biri mu mwanya wabyo kandi abantu bakitabira neza akazi cyane cyane iyo ari abantu bakora serivisi yo kuvura abantu.

Kwa muganga usanga ari hamwe mu hantu hateguye neza winjiye imbere cyangwa hanze y'inzu bakoreramo, rimwe na rimwe uhasanga intebe ameza ahantu hose ugasanga hari isuku, niyo mpamvu usanga hakurura abantu benshi kandi hatangirwa serivisi nziza mu rwego rwo kureshya abantu bahagenda.

Ibigo bishinzwe ubuzima byegerejwe ahantu hose kugira ngo abaturage bamere neza ndetse hegerezwa imihanda kubera ko ari kimwe mu bikenerwa kandi bigezeyo abantu muri rusange mu buryo bwihuse, usanga rero ari byiza kugendera ku muvuduko mwiza iyo ujya kwa muganga kubera ko usanga akenshi haba hari umubyigano mwinshi w'abantu bategereje kuvurwa.

Ahantu hose hakorerwa serivisi nyinshi kandi zitandukanye cyane cyane iz'ubuvuzi, byagaragaye ko haba hari uburinzi bukomeye cyane nk'abarinda umutekano waho, mu rwego rwo kuhabungabunga kuko ari ahantu h'ingenzi kandi h'agaciro.

Byagaragaye ko kwa muganga inzu z'ababyeyi usanga ari hamwe mu bice byubahwa ndetse birindirwa umutekano kubera ko haba habarizwa abaruhutse ndetse n'ababyeyi babyaye kugira ngo barindirwe umutekano aba ari ngombwa ko bitabwaho neza bikwiriye.

Inzu nyinshi usanga rimwe na rimwe iyo zitangirwamo ubuvuzi ziba zubatse neza zifite ubusitani ndetse n'ibindi kandi ugasanga zirangwa n'isuku ndetse zubatswe n'amatafari n'ibindi kandi hakaba hari n'umutekano. Niyo mpamvu tugirwa inama yo kuba twubaha ibyo dusanze ahantu aho ariho hose hameze neza kandi hari umutekano, ndetse hatangirwa n'ama serivisi atandukanye.

Ibitaro byinshi ndetse n'amavuriro, usanga aba afite ikirango kibiranga, cyangwa se yanditse amazina hejuru ku nkuta yazo, kandi ugasanga afite abakozi benshi, yaba abazungu cyangwa abirabura, babafasha kwita ku barwayi umunsi ku munsi.

Kuri ubu usanga inzu nyinshi zikorerwamo ubuvuzi ari ngombwa koshyirwaho amatara kugira ngo azajye akesha ahantu, kubera ko izi nzu zikorerwamo amasaha makumyabiri n'ane ku yandi kandi zikaba zikorwamo ibikorwa bikomeye cyane mu buzima bwa muntu.

Byagaragaye ko kugira ngo ubuganga bukomeze gutera imbere, hagomba kuba hari ibyuma bifasha muri icyo gice ndetse bigafasha nko mu cyiciro cyo kubyaza, ndetse abantu benshi bakaba bagomba kuhubaha kubera ko ari ah'ingirakamaro, kuko hafasha ababyeyi ndetse n'abana.

Imyicungo itanga umunyenga usanga ari bimwe mu bintu bishimisha ndetse bikurura abana ndetse n'abantu bakuru kubera ko bifasha kuruhuka mu mutwe ndetse no gusabana, ni muri ubwo buryo uba usanga tugirwa inama yo kubyubaka hafi ndetse n'ahantu abana babasha kugera kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse bitabweho.

Ahantu henshi yaba amazu ndetse n'ahantu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi, aba ari ngombwa kugira amamashini abafasha kuvura cyangwa se abafasha kubika amakuru, kubera ko aba ari ngombwa batashobora kubika imibare y'abarwayi ndetse n'abakozi babo baba n'ibyo baba bakoze uwo munsi wose, rero ni ngombwa kugira amamashini abafasha.

Inzu nyinshi zikorerwamo ubuvuzi zamaze gufata umuco wo gukoresha ibikoresho nka mudasobwa mu iterambere ry'ubuvuzi, kugira ngo babashe kuvura indwara zimwe na zimwe zagoranye kandi zibonerwe imiti n'urukingo. Niyo mpamvu hakoreshwa abaganga, ndetse n'abandi bose bafite ubushobozi bwo gukoresha ibyo bikoresho by'iterambere.

Inyubako nyinshi usanga zitangirwamo ubuvuzi, usanga ziri ahantu hegereye imihanda kandi zikaba zifite aho abantu bafite ibinyabiziga bagomba kuba babiparika mu rwego rwo koroshya ndetse no kugaragaza gahunda ihamye kandi imeze neza.

Abantu bahurizwa hamwe n'ibintu bitandukanye niyo mpamvu iyo bahuye cyane cyane aba ari ngombwa gushyirirwaho aho bagomba kwicara kugira ngo bibarinde kuruha no kutaza gukurikira ibiganiro biri buberaho niyo mpamvu usanga baba bahawe ikaze bagahabwa intebe ndetse n'ibindi byo gukoresha bicara kugira ngo bakurikire neza ibibera ahongaho.

Ni ngombwa ko ibigo by'ubuvuzi bigomba kuba bifite ahantu heza kandi hizewe bibika imiti kugira ngo iyo miti ibashe kuba igumana ubuzima buzima kugira ngo izagirire akamaro abo izakoreshwaho.

Kwa muganga ni hamwe mu hantu haba hagomba kuba hagaragaza ko hateye imbere yaba mu bikoresho ndetse n'imitangirwe ya serivise yaho. Aho usanga haba hari ibitanda byabugenewe bigomba kuryamirwa n'abaturage cyangwa se abantu bose barwaye bahageze, kandi bakihutishirizwa kubona serivise.

Inzu nyinshi zikorerwamo imyitozo ngororamubiri, hari ibikoresho byinshi zigomba kuba zifite kugira ngo zikurure abazigana kandi zigomba kuba zifite n'isuku ndetse ziri n'ahantu heza hatabangamiye abantu bazigana ndetse bazikoreramo kugira ngo babashe kuba bisanzuye kandi bakunde aho hantu bakorera.

Ibigo nderabuzima usanga bikora serivisi neza yo kuvura ndetse no kwita ku buzima bw'abarwayi ndetse usanga ko iyo binaniwe gutanga iyo serivisi bihagije ibyohereza umurwayi ku bitaro bikuru kandi bikaba bifite abakozi beza kandi babugenewe bashinzwe kurangira neza no kuyobora abarwayi no gusobanurira serivisi zitangirwa aho ngaho abantu batahamenyereye.

Mu rwego rwo kwemeza neza ndetse no kurangira ahantu, ndetse na serivisi zitangirwa aho hantu, usanga ahantu henshi handikwa cyangwa hakomekwa ibyapa biranga aho hantu, ndetse n'ikihakorerwa kugira ngo umuntu nahinjira atazayoba cyangwa ahibeshyeho.

Inyubako zo kwa muganga usanga akenshi ziba zirimo ibyumba binini bigizwe n'intebe ndetse n'isuku nyinshi, aho abantu cyangwa se amanama ahurira kugira ngo yige ku buzima ndetse hafatirwe imyanzuro imwe n'imwe cyangwa se kugira ngo hatezwe imbere uburyo bwiza mu buzima.

Mu rwego rwo guteza imbere ubuvuzi leta y'u Rwanda yemereye ibigo bitanga serivisi zo gukora ubuvuzi ko bigomba kuba bifite abaganga babyize neza kandi babifitiye impamyabumenyi n'ubushobozi bwo kubikora kugira ngo bajye babasha kuvura indwara zose hatavuyemo n'imwe kandi neza.

Kwigisha cyangwa guhugura abantu ibigendanye n'ubuzima usanga bikorerwa ahantu mu nzu yaba utanga ikiganiro cyangwa se abagihabwa bose bakaba bayumvikana ku ngingo runaka cyangwa bahabwa amakuru runaka ku ngingo yatoranyijwe, niyo mpamvu utanga ikiganiro aba agomba kuba ahagaze abandi bahabwa ikiganiro bakaba bicaye kugira ngo bumvikane neza.

Kugira ngo winjire mu nzu zitanga ubuvuzi ikintu cyinshi cyangwa se icya mbere ubonamo ni isuku ihagije, urumuri, ndetse n'ibindi, aho usanga yaba ibitanda by'abarwayi ndetse n'intebe zaburi muganga byose biba biri ku murongo neza kandi bitunganyije mu rwego rwiza rwa mbere rwo hejuru.

Mu nama akenshi usanga ahantu hose havugirwa cyangwa hahuriza abantu benshi biga cyangwa baganira ku buzima, aba ari ngombwa kwambara imyenda imeze nk'impuzankano, kugira ngo bagaragaze ko bahuriye ku mugambi umwe kandi wo guteza ubuzima imbere.

Ibyumba byinshi by'amanama ku isi hose cyangwa n'ahantu hatandukanye usanga ari ibyumba bipanze neza kandi biteguye neza yaba aho abantu bari bwicare ndetse naho uvuga aza kuba ahagaze kugira ngo ibintu byose bikorwe muri gahunda kandi bigaragaze ko byateguwe neza.

Ahantu habikwa imiti cyangwa amakuru yo kwa muganga, ni hamwe mu hantu haba harinzwe kandi hafite umutekano, kubera ko ari kimwe mu bintu byitabwaho iyo ugiye kuvurwa, ndetse kandi hakagirirwa umutekano kugira ngo amakuru yawe abikwe neza.

Ahantu henshi hatangirwa serivise z'ubuvuzi usanga harashyiriweho ahantu habugenewe abantu bategereje serivise yo kuvurwa bagomba kuba bicaye kandi bategereje mu gihe batarahura na muganga, ni ku bw'iyo mpamvu usanga abantu benshi bahagannye baba bicaye ahantu hamwe baganira bareba icyabateza imbere.

Kimwe mu biranga inzu nyinshi zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ni ukugira gahunda ndetse no gupanga neza ibikoresho byaho aho usanga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, haba hari umuntu ushinzwe kuhayobora ndetse n'ibikoresho byose biri ku murongo, yaba ibikoresho nk'intebe ameza n'ibindi.

Abakozi bo kwa muganga ni abantu b'ingirakamaro cyane kuko usanga ari bo bakuyobora cyangwa se kugufasha kukwereka aho ugiye mu buryo bworoshye igihe usanze ubu ugeze ahantu ugasanga ntago wasobanukiwe cyangwa bakwandikiye nk'ibintu ugasanga ntago ubimenya neza rero ni ngombwa ko tuzajya tububaha.

Ibitaro byose cyangwa amavuriro usanga akunda gukorera mu magorofa cyangwa amazu maremare, mu rwego rwo kugira kandi kwizera umutekano wayo akagira n'abashinzwe umutekano ndetse n'ubwishingizi, kugira ngo babashe kuba babungabunga ubuzima nk'uko ari ko kazi baba bakora.

Inyubako nyinshi zitangirwamo amaserivisi yo kuvura abantu, usanga haba hari ibirango byinshi bigaragaza ibihakorerwa ndetse haba hari n'abantu bashinzwe kuranga ndetse no gusobanurira ababagana kugira ngo batayoba cyangwa se badateshwa umutwe n'ibintu byinshi biba bihakorerwa cyangwa se bataza kuyoba.

Mu rwego rwo koroshya imibereho y'abaturage, usanga ahantu henshi haregerejwe ibikorwa remezo harimo ibigo nderabuzima, bifasha abanyagihugu kwitabira serivisi zatangwa n'inzego zishinzwe ubuzima, kugira ngo babeho neza batekanye.

Buriya kimwe mu bintu biranga ahantu hatangirwa serivisi z'ubuzima, nko kwa muganga usanga ari isuku nziza, ndetse na gahunda idasanzwe kubera ko harangwa n'ubwitonzi budasanzwe ndetse no kugira isuku cyane, ku bikoresho byabo ndetse n'ibyo bakora byose.

Inzu nyinshi ndende usanga ziba ahantu mu mijyi ndetse ahantu haba hari n'ubusitani bwiza kugira ngo hakurure abantu benshi yaba ba mukerarugendo cyangwa abandi bose baza gushaka serivisi aho hantu, niyo mpamvu usanga inzu nyinshi ndende cyangwa amagorofa aba yubatse ahantu mu mijyi.

Mu rwego rwo kugira imibereho myiza kandi n'ubuzima buteye imbere, u Rwanda rwafashije abaturage barwo kubegereza amavuriro ndetse na za serivisi z'ubuzima kugira ngo batazajya bazikenera bakazibura, ni kuri ubwo buryo usanga ahantu hose hegereye amashuri ndetse n'ibitaro muri rusange.

Ibitanda ndetse n'amamashini n'ibindi bikoresho byo kwa muganga usanga byitabwaho n'abakozi baho ndetse bakabigirira isuku kubera ko aba ari ngombwa kugira ngo bigire ubuzima bwiza . Niyo mpamvu byagaragaye ko ahantu hose hari ubufasha bukenewe kwa muganga abantu bose baba biteguye kubutanga kugira ngo bafashe aho hantu kubera ko ari ingenzi.

Kwa muganga usanga ari ahantu hahurirwa n'abarwayi benshi ariko muri rusange ntabwo bose bavurirwa ahantu hamwe, niyo mpamvu haba hari ibyumba bitandukanye byo kubitaho aho usanga hari ababyara, amapfukwa ndetse n'ibindi kugira ngo ubuzima bwabo bwitabweho kandi bukire bugende neza.

Akenshi usanga kwa muganga ari ahantu harangwa n'isuku ndetse n'imitegurire myiza yaho ikaba irangwa n'isuku ndetse na gahunda nziza, aho usanga umurwayi asuzumwana ubwitonzi ndetse akitabwaho na muganga kandi agahabwa igitanda cyiza cyo kuryamaho n'ibindi byose nkenerwa.

Kwa muganga ni hamwe mu hantu usanga ibikoresho byiza kandi bihagije yaba amafoto, amateleviziyo, ibitanda, intebe cyangwa n'ibindi bintu byinshi bitandukanye byiza bifasha umuntu wese uhavurirwa kwitonda kandi agatuza agakorerwa serivise neza.

Iyo ukora siporo, akenshi wibanda ku bikorwa bifasha umubiri wawe kugororoka, ni yo mpamvu usanga na none kugira ngo tumere neza, tuba tugomba kugira umuziki tuba twumva, mu rwego rwo kwirinda kubihirwa na siporo izo arizo zose cyangwa kunanirwa vuba.

Imikino yose yaba iy'amaboko cyangwa iy'amaguru usanga ifasha abantu mu bintu bitandukanye yaba imibereho cyangwa kubinjiriza amafaranga, kubera ko usanga imikino myinshi itanga amafaranga menshi kandi igafasha kubana neza hagati y'abayikora.

Mu rwego rwo gukora siporo nziza kandi igufitiye akamaro uba ugomba kwita ku mihumekere cyangwa ko ugorora amaguru neza ndetse n'amaboko bigendanye na siporo ukeneye cyangwa se kugirango urebe ko umubiri wawe wagarura neza uburinganire bwawo kandi bunoze kandi buhamye.

Usanga ahantu hahuriye abantu benshi ari ngombwa kugira ibikorwa bimwe na bimwe uzana kugira ngo ubakurure, aho usanga ahantu henshi bazana abantu babyina cyangwa bakina umupira, mu rwego rwo kubungabunga ndetse no kugira uko bakurura abantu baje aho ngaho.

Rimwe na rimwe iyo abaganga cyangwa se abandi bantu bari mu gikorwa bashinzwe usanga bambaye imyenda isa kandi yabugenewe y'akazi harimo no kwambara agapfukamunwa ndetse no gukurikiza amabwiriza cyangwa kwiga andi masomo mashya ndetse binyuze ku ikoranabuhanga nka za televiziyo n'ibindi.

Gukora siporo byabaye kimwe mu bikorwa byateye imbere kubera ko byasanzwe ko siporo ifasha ubuzima bwa muntu mu rwego rwo gufasha ubuzima rero niyo mpamvu usanga hari abakina imikino ngororamubiri, nko kwiruka cyangwa gusimbuka n'ibindi kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze kandi birinde indwara zitandukanye.

Siporo nkuko ari ingenzi mu buzima, usanga ifite nanone n'imiti ndetse n'ibikoresho byabugenewe kandi bibikwa ahantu heza hafite isuku ndetse hahagije kuba ihagirwa n'abantu bake kandi bakora siporo, niyo mpamvu usanga buri kintu cyose kwa muganga kiba cyarateganyijwe kandi kiri aho kigomba kuba kiri.

Kugorora imitsi cyangwa se umubiri muri rusange ku bantu bose bakunda siporo usanga ari kimwe mu bintu bishishikaza abo bantu kubera ko aba ari ngombwa kandi bisubiza imitsi mu mwanya wayo maze bagakomeza kugira ubuzima bwiza kandi burambye. Niyompamvu twese tuba duhamagarirwa gukora ibi bintu kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza.

Iyo umuntu yahuye n'ibibazo wenda byo kuvunika akora siporo, abaganga baba bakenewe kandi babijejwe kugira ngo babashe kumufasha agaruke mu buzima bwe, usanga bamupfuka cyangwa bamwambika inkweto zabugenewe zo kumugarura neza ndetse zibasha kumukiza kugira ngo yongere agire ubuzima bwiza.

Rimwe na rimwe usanga umuntu ukora siporo iyo yahuye n'ikibazo imwe mu miti bamuha, ari nk'iyikonjesha amaraso kugira ngo abashe gukira vuba. Kandi ugasanga abasha kuba ahambirwa cyangwa se akagirwa inama yo kugana ababishinzwe nko kwa muganga, kugira ngo bamugire inama y'icyo yakora.

Kugira ngo imiti ikomeze igire ubuziranenge ndetse n'ubuzima bwiza kandi izajye ibasha gukora akazi yakorewe, usanga iba yarashyiriweho ahantu ndetse n'ibindi bikoresho bibasha kuba biyibika neza mu rwego rwo kuyibungabunga ndetse kutayitesha agaciro ugasanga iba yarakorewe ahantu heza yo kuyibika.

Siporo ni kimwe mu bikorwa bifasha abantu benshi niyo mpamvu imiti yayo usanga igomba kubikwa ahantu heza kandi hatunganyijwe nko mu bi bikapu byabugenewe ndetse no mu makarito meza kandi afunze neza kandi ikindi agatwarwa n'abantu babishinzwe gusa cyangwa ba muganga ndetse n'abanyabuzima bandi.

Siporo ni kimwe mu bikorwa bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu usanga umuntu uyikora agirwa inama yo gushaka umuntu bayikorana cyangwa umufasha, umwereka ibirenze ku byo atazi, kugira ngo abashe kuyinoza neza, kugira ngo kandi abashe kumenya neza uko ubuzima bwe buhagaze, bigendanye na siporo akora.

Muri siporo usanga ari ngombwa ko umuntu iyo yavunitse bagomba kumuha imiti runaka nk'iyo wenda yagize ikibazo ari gukina umupira ndetse kubera ko aba ari kumwe n'abatoza bamwitaho ndetse bazi ibya siporo, aba ari ngombwa kumufasha ndetse bakamushakira imiti ikwiriye igendanye n'ikibazo afite cyangwa ububabare bwe.

Rimwe na rimwe usanga ari ngombwa kwivura akaboko iyo wakomeretse cyangwa wavunitse, mu buryo bwo gukoresha ibihakonjesha kugira ngo ububare bugabanyuke, cyangwa se ukire byihuse, ni ngombwa rero ko dukurikiza amabwiriza rimwe na rimwe aba yashyizweho na bamuganga, ndetse n'ibigo bitanga ubuvuzi.

Umuntu ukora siporo hari ibikorwa byinshi akora binaniza umubiri ni yo mpamvu aba agomba kwita ahantu akorera ndetse n'icyo kurya cyangwa icyo kunywa kimufasha, mu rwego rwo gukomeza kugira umubiri muzima kandi akawufasha mu buryo bwo kuruhuka neza nyuma y'ibyo bikorwa bya siporo.

Muri siporo rimwe na rimwe usanga abantu bayitabiriye bagira ibyago byo kuvunika ariko haba hari abashinzwe gutabara bakora nko mu miryango ishinzwezwe gutanga ubuvuzi bw'ibanze ndetse n'ubutabazi, kugira ngo babashe kwita ku buzima bwabo bose bagize ibibazo.

Imiti igabanya uburibwe usanga ifunze neza mu macupa yabugenewe mu rwego rwo kuyirinda kwangirika ndetse no kwangizwa n'ibintu byinshi bitandukanye kubera ko ari imwe mu bifasha cyane abarwayi ndetse muri rusange kandi ikaba inahenda kubera ko itaboneka byoroshye.

Gukora siporo ni igikorwa cyiza niyo mpamvu gisaba nanone abantu bacyitabira ko baba bambaye kandi bikwije ibikoresho byabugenewe nk'inkweto n'imyenda, kugira ngo batagiriramo ikibazo kandi bari baje gukora siporo ndetse no kunanura umubiri kugira ngo bagire ubuzima bwiza bakahahurira n'ibibazo.

Ibyuma by'iterambere bikoreshwa kwa muganga usanga biba bifite agaciro ko hejuru ndetse bihenze kandi byaraturutse mu mahanga bimwe na bimwe, niyo mpamvu nk'icyuma basuzumiramo indwara bacishamo umuntu kugira ngo barebe indwara afite, kiba ari igikoresho gihenze cyane kandi ari icy'agaciro ndetse gikwiye kwitabwaho, kugira ngo kitangirika maze igihugu kigahomba.

Iyo umuntu akora siporo, yita ku zo akeneye, cyangwa izimunyuze, ni yo mpamvu usanga bamwe barambura umugongo, abandi basimbuka cyangwa birukanka, mu rwego rwo kwirinda gukora izo badakeneye. Kandi ikindi baba barategetswe na muganga bigendanye n'ubuzima bwabo, kugira ngo birinde indwara zimwe na zimwe.

Mu kwita no kubungabunga ku buzima bwacu, aba ari ngombwa ko umuntu ugiye guteka abanza gusobanukirwa ibyo agomba gushyira mu buzima bwe, kandi kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza ndetse n'umubiri ushima Imana.

Mu miti ya siporo usanga rimwe na rimwe haba hari ibintu byagenewe kwambarwa igihe nk'umuntu ukora siporo yavunitse cyangwa se ibindi mu rwego rwo kumworohereza ndetse no kumukiza vuba, niyo mpamvu tugirwa inama iyo tugize ikibazo muri siporo guhita tugana inzego zibishinzwe nko kwa muganga ndetse n'abanyabuzima bandi kugira ngo badufashe byihuse.

Kugira ubuzima bwiza akenshi bituruka no ku mibereho y'umuntu ndetse na siporo akora, niyo mpamvu usanga ubuzima buba bwiza kubera ko tugirwa inama yo gukora siporo ndetse no kugorora umubiri ndetse tugafata imiti yunganira iyo siporo kugira ngo ubuzima bw'umubiri bubashe kugenda neza.

Byagaragaye ko siporo ari umwe mu mikino ugusaba imbaraga ndetse n'ingufu ni muri ubwo buryo rero hari imiti myinshi y'aba sporutifu kugira ngo ibarinde aho bakomeretse cyangwa igihe bagize imbaraga nkeya ibongerere imbaraga bagire umubiri umeze neza.

Ibyuma byinshi kwa muganga bakoresha by'ikoranabuhanga usanga byiganjemo ibyaguzwe amafaranga menshi harimo nk'ibyo bashyirwamo abantu basuzumwa indwara nyinshi zo mu mubiri aho umuntu atabasha kurebesha amaso ni ngombwa rero kwitondera ibikoresho byose umuntu aba asanze kwa muganga kubera ko byose biba bihenze kandi bifite agaciro karekare.

Mu buvuzi usanga akenshi hibandwa ku miti igizwe n'ibinini cyangwa se inshinge kugira ngo hamenyekane neza indwara ivurwa icyo isabwa yaba umuti cyangwa inshinge yaba n'ibinini niyo mpamvu byose biba bigomba kuba bihari kwa muganga ndetse n'ahandi ho zitangirwa ubuvuzi kugira ngo bibashe kuba bikoreshwa kandi neza igihe cyose bibaye ngombwa.

Imiti itangwa muri siporo aba ari myinshi nk'aho usanga haba ari nk'inkweto zabugenewe, umuntu wahuye n'ibibazo byo kuvunika cyangwa kugira ikindi kibazo cyose cy'akaguru muri siporo usanga bamwambika maze bikagorora imitsi ye ndetse n'amagufwa kugira ngo akire byihuse.

Abantu rimwe na rimwe, iyo bari gukora siporo usanga bibanda mu kugorora ibice bigize umubiri nk'amaboko n'amaguru, ariko kandi aba ari ngombwa kugorora umubiri wose kubera ko uba ukenewe kubohoka ndetse no kwirindwa indwara zimwe na zimwe kandi bitwibuswa ko haba hari n'imiti yabugenewe y'abantu bakora siporo ndetse n'imyitozo ngororamubiri.

Imiti myinshi mu rwego rwo kuyifasha kugira ubuziranenge ndetse no kugira ubuzima bwiza, usanga ibungabungirwa ahantu mu mashashi cyangwa mu bindi bikoresho byabugenewe kugira ngo izajye ifasha abantu bose kuvurwa kandi neza ndetse indwara zibacikeho burundu.

Iimiti myinshi y'abantu bakoze siporo bagahuriramo n'ibibazo, akenshi usanga ari nko kuvunika babambika nk'ibikoresho ku maguru cyangwa ku maboko, cyangwa se ugasanga babihereje nk'amashashi arimo ibintu bikonje kugira ngo batangire bakonje mu maraso kugira ngo babone uko bavurwa neza.

Aba ni bamwe mu bantu bagomba kwitabwaho cyane mu rwego rwo gukora siporo cyangwa imyitozo ngororamubiri yose, kubera ko usanga barabihuguriwe ndetse babifitiye n'uburenganzira. Niyo mpamvu usanga tugomba gukora ibyo ba muganga batwigishije cyangwa batwandikiye kugira ngo imibiri yacu ibashe gukomera, kandi igire ubuzima bwiza.

Inzu z'imyitozo ngororamubiri byagaragaye ko ari ngombwa mu gufasha ubuzima bwa muntu, kandi mu gusobanukirwa neza akamaro ka siporo ni ngombwa ko tuzajya tugana izi nzu, kuko zifasha byinshi yaba kurwanya ibintu byinshi bitandukanye mu mubiri ndetse no kumera neza k'umubiri.

Kimwe mu bikorwa umuntu wakoze siporo aba yiteze ni ukuvunika cyangwa kubabariramo, ariko aba agomba kugana ibigo bibishinzwe nko kwa muganga ndetse n'abanyabuzima, agafashwa wenda yitabwaho mu buryo wenda nko kuvurwa cyangwa agapfukwa kugira ngo abashe gukira byihuse.

Abaganga usanga bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa iyo bageze mu kazi ndetse bakambara impuzankano zabo, ndetse bafite n'ibikoresho byabugenewe nk'ibyo gupima umutima mu rwego rwo kunoza akazi neza ndetse no kwakira ababagana neza.

Mu rwego rwo gukunda siporo nk'ubuzima, byagaragaye ko hari imiti myinshi ifasha abantu bakunda siporo ndetse bayikora kugira ngo batazajya bananirwa cyangwa ngo bayihararukwe kubera ko nayo ifasha ubuzima bwa buri muntu muri rusange.

Ubutabazi bw'ibanze usanga ari ubufasha umuntu ahabwa n'umuganga cyangwa undi wese uzi kubutanga, mu gihe uwo muntu atewe atiteguye cyangwa akoze impanuka. Ni muri iyo mpamvu, usanga abantu bose bagirwa kwitabira ibikorwa byo gufasha ndetse no kwiga ubutabazi bw'ibanze.

Siporo ndetse n'ibindi bikorwa byose bitwara umubiri isukari cyangwa se imbaraga, ni bimwe mu bikorwa bigira imiti cyangwa se ibikoresho biyifasha kongera gusubirana umubiri imbaraga, niyo mpamvu hari byinshi bigomba kubungwabungwa harimo ibikoresho ndetse n'igihe umuntu akorera siporo kikitabwaho ndetse n'imbaraga ze.

Nyuma yo gukora siporo, usanga umuntu agirwa inama yo gufata ibiryo byiza kandi bihagije, ndetse bikungahaye ku ntungamubiri, harimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe kugira ngo ugarure ubuzima bwiza, wongeraho n'amazi kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Mu buzima bwa buri munsi bwacu buri munsi duhora tugirwa inama y'uko umuntu iyo akora siporo akavunika agomba kwihutira kwa muganga, kugira ngo abashe kwitabwaho ndetse ahabwe ubuvuzi bw'ibanze, mu rwego rwo kumufasha gukira vuba kandi akitabwaho kugira ngo asubirane ubuzima bwe bwuzuye.

Iyo umuntu ukora siporo afite gahunda yo gufata imiti imwongerera umubiri imbaraga, usanga ari byiza kubera ko siporo nimwe mu bikorwa bitwara imbaraga umubiri kandi hari imiti yabugenewe igomba kumufasha mu byo akora byose, kandi kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza.

Kugorora umubiri byagaragaye ko bifasha abantu bose, yaba abagore, abagabo cyangwa abana n'abakecuru n'abasaza kubera ko usanga bitanga ubuzima bwiza kandi bikongera iminsi yo kubaho, niyo mpamvu usanga abantu bose hatavuyemo n'umwe tugirwa inama yo gukora siporo.

Kunywa amazi yaba ku muntu uyashaka cyangwa wabigize umuco usanga ari kimwe mu bintu bifasha umubiri we kumera neza yaba mu kugogora cyangwa mu kuwufasha mu bindi byose bitandukanye, niyo mpamvu tugirwa inama n'abaganga kunywa amazi ritiro imwe ku munsi cyangwa no kuyirenza ku bayishoboye.

Abaganga bizera ko rimwe na rimwe hari indwara zikira binyuze muri siporo, niyo mpamvu usanga mu mabwiriza atangwa ndetse n'inama n'abaganga, haba harimo gukora siporo wenda umuntu akina umupira cyangwa se yirukanka cyangwa agorora umubiri, mu rwego rwo kwirinda indwara zimwe na zimwe baba bamusuzumye bakamusangamo.

Kugira ngo umuntu avurwe kandi yitonze, ni ngombwa kugaragaza ikibazo aba yahuye nacyo, ndetse akakibwira umuganga yaba ari ngombwa ko amwereka aho yahungabanye, akahamwereka, kugira ngo avurwe neza kandi akire ahabwe n'imiti yabugenewe, ibasha kumufasha mu rwego rwo gukira neza kandi agasubirana ubuzima bwiza n'umubiri mwiza.

Imwe mu miti ndetse n'inama zitangwa n'abaganga ndetse n'ibigo by'ubuvuzi usanga harimo gukora siporo kubera ko ifasha kunanuka cyangwa se ibindi byose gutekereza biri ku murongo kandi ukamera neza mu mubiri, kandi usanga abaganga ndetse n'abandi banyabuzima bagira inama abantu bose gukora siporo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Byagaragaye ko abantu benshi hano ku isi bakora siporo cyangwa bakora ibindi bikorwa byo kugorora umubiri, baba bambaye inyumvishamuziki mu rwego rwo kwita mu kugorora umubiri wabo ndetse no kumva bameze neza cyane cyane kubera ko umuziki ari kimwe mu bintu bituma siporo zigenda neza.

Imiti n'ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi usanga ari ngombwa kubigirira isuku ndetse kubibika ahantu habugenewe, kubera ko usanga ari bimwe mu byitabwaho kandi ibyinshi rimwe na rimwe usanga ari ibikoreshwa rimwe bikaba bijugunywa ahandi habugenewe kandi kugira ngo bikomeze kurinda umwanda, iyo byamaze gukoreshwa iyo nshuro imwe.

Imiti yo kuvura cyangwa se imiti y'amenyo yose, iba igomba gukoreshwa mu buryo bwagenwe n'abayikoze kandi ukubahiriza amabwiriza kubera ko iyo byose bidakozwe uko byagenwe, byose byica ubuzima bwa muntu ndetse n'ubikoresha akagira ibibazo bitandukanye.

Bumwe mu bufasha duhabwa kwa muganga; usanga tugirwa inama zo gukora siporo kugira ngo tugorore umubiri ndetse twite ku buzima bwacu, niyo mpamvu usanga bamwe bakora siporo zo kwirukanka abandi kugorora amaguru ndetse n'ibindi, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza kandi birinde indwara mbi, kubera ko siporo ari imwe mu miti igirwa inama n'abaganga.

Abagore n'abagabo bose muri rusange baba bakeneye siporo kubera ko ikiza indwara nyinshi mu mubiri, niyo mpamvu usanga umuntu akwiye kuba yitabira siporo ndetse agakoresha ibikoresho byabugenewe kandi akanywa amazi meza kandi ahagije.

Ibikoresho byinshi byo kwa muganga kubera ko aba ari ibikoresho bihenze kandi by'agaciro niyo mpamvu usanga biba bigomba kuba birinzwe ndetse bikitabwaho mu isuku nyinshi ari yo mpamvu tugomba kubyitaho ndetse tukirinda kubyangiza.

Amazi muri rusange usanga afasha ibintu byinshi bitandukanye mu buzima bwa muntu niyo mpamvu yaba ukora siporo cyangwa ukaraba ndetse ukora ibikorwa bitandukanye aba asabwa kuyakoresha kugirango ngo abashe kubaho neza muri rusange nta mazi nta buzima.

Kunywa amazi ni kimwe mu bifasha umuntu iyo ari muri siporo, yaba ku bahungu cyangwa abakobwa ndetse abakuze n'abato, kubera ko amazi afasha byinshi mu mubiri, harimo gutuma uruhuka cyangwa utarambirwa ibyo urimo mu rwego rwo kwihutisha akazi.

Abantu benshi bari muri siporo usanga bimenaho amazi cyangwa bakayanywa mu rwego rwo kugarura ububobere ku mubiri ndetse no kumera neza niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe tugirwa inama yo gukora siporo ariko nanone dufite amazi mu rwego rwo kugira umubiri mwiza.

Kuvunika akaguru ni zimwe mu ndwara cyangwa ibyago bikomeye abantu bose bakora siporo cyangwa imyitozo ngororamubiri bahura na zo. Kubera ko usanga bigoranye, cyangwa ari bibi cyane gukora siporo urwaye icyo kibazo cy'akaguru. Ni yo mpamvu iyo ugize ikibazo ugirwa inama, vuba vuba, guhita ugana inzego zibishinzwe, zagufasha.

Kugorora umubiri rimwe na rimwe abantu benshi barabitinya kubera ko baba babona bigoye ariko bitanga amahoro ndetse n'umutuzo mu mubiri w'ubikora, kubera ko usanga uwo muntu agomba kuba agororotse ndetse afite n'umubiri mwiza cyane ndetse akaba ari umuntu mwiza kubera ko aba yakora siporo.

Amazi ni meza ku mubiri w'umuntu yaba uwakoze siporo cyangwa se utayikoze, ariko by'akarusho mbere na mbere amazi asukura imyanda ndetse agatuma umuntu wakoze siporo aruhuka kandi bikamurinda kuba ananirwa, niyo mpamvu usanga tugirwa inama yo kunywa amazi nk'abantu bakora siporo kandi asukuye ameze neza.

Muri siporo usanga abantu benshi bakunda kugirwa inama yo gufata imiti ndetse no gukora bitonze kubera ko haba harimo ibyago byinshi, ariko ni muri icyo gihe usanga haba hari abaganga babihuguriwe ndetse baba bazi gutanga imiti ku buryo bukwiriye bufasha uwabashije guhungabanira cyangwa kugira ikibazo muri siporo bakamufasha kandi akitabwaho neza ku buryo bukwiye.

Siporo ngororamubiri, usanga zitabirwa n'abantu bake, mu gihe kandi tuziko ari ngombwa ziturinda ibintu byinshi bitandukanye, harimo n'indwara zandura n'izitandura, kandi nanone tugirwa inama zo kuzitabira, kuko zifasha cyane mu buryo butandukanye.

Kwirukanka cyangwa gukurura no gusunika ibintu byinshi biremereye usanga ari kimwe mu biranga amasiporo cyangwa se abantu bayakora niyo mpamvu siporo yose umuntu akoze ibasha kumufashiriza ubuzima ndetse ikamurinda indwara zimwe na zimwe zo mu mubiri.

Iyo umuntu avuze ku buzima cyangwa se siporo muri rusange, agaruka kuri bimwe mu bimufasha kuba yayikora akamererwa neza ndetse muri rusange agakomeza kwihutisha imibereho myiza, ubwo ni ukuvuga ibyo yafata nyuma cyangwa mbere yo kwinjira muri siporo, harimo ibyo kunywa n'amazi ndetse n'indimu n'imbuto zimufasha kugira ubuzima bwiza.

Gukora siporo ni kimwe mu bintu bifasha ubuzima kugenda neza, niyo mpamvu nanone abaganga batuyobora muri siporo baba bakenewe, bakakuyobora siporo ukeneye ndetse igomba kujyana n'umubiri wawe. Niba wicaye ugakora izo ukwiriye gukora, niba ufite ikindi kibazo bakakuyobora mu zo ukwiriye.

Abantu benshi bakora siporo usanga bafata ibintu byinshi bikungahaye ku isukari mu rwego rwo kongera kugira imbaraga baba batakaje, ni nayo mpamvu usanga bagirwa nano kurya ibiryo byinshi birimo amavuta cyangwa se indimu kubera ko na byo biba ari byiza ku buzima bw'abantu bakora siporo.

Amazi meza muri siporo ni ingenzi, cyane cyane nk'iyo umuntu ayitwaje arimo yirukanka, cyangwa se agorora umubiri mu bundi buryo, ukanywa bigusaba kandi bikakurinda gusinzira cyangwa kunanirwa bya hato na hato, mu gihe utarasoza siporo yawe wari urimo gukora.

Imiti myinshi itangwa kugira ngo hakorwe siporo, usanga rimwe na rimwe turangirwa kunywa amazi ndetse n'ibindi kandi siporo nayo ubwayo ni umuti w'indwara zimwe na zimwe ziba zarabaye karande mu buzima nk'imivuduko ikabije y'amaraso ndetse n'ibindi, niyo mpamvu ari ngombwa gukora siporo ndetse ukayikora wishimye.

Umuntu ukora siporo usanga yibanda mu gukomeza imikaya, ni muri urwo rwego usanga abenshi bakora siporo zo kunama cyangwa kwirukanka, muri urwo rwego bashaka gukomeza amaguru cyangwa ibindi bice bikomeye bifite imikaya ikomeye cyane, kugira ngo babashe kuba bamera neza ndetse bagire ubuzima bwiza.

Kunywa amazi buri munsi usanga aribyo tugirwamo inama ariko cyane cyane ayatetse, kandi ugasanga aya mazi afasha mu buzima cyane cyane mu gusukura imyanda iba yagiye mu mubiri. Niyo mpamvu rimwe na rimwe umuntu aba akwiye kwinyabya akanywa amazi, yaba bigoye cyangwa bitamugoye.

Kunywa amazi mu buzima bwa buri munsi bwa muntu usanga ari igikorwa kiza kandi gifasha umubiri kuruhuka ndetse no gutuza, niyo mpamvu tugirwa inama yo kunywa amazi ku bayashoboye bakanywa amazi menshi cyangwa bakarenza litiro n'igice buri munsi.

Iyo umuganga ari gusuzuma umurwayi aba ari ngombwa ko bajya ahantu habugenewe ndetse hagakoreshwa ibyuma byose bibasha kumufasha mu rwego rw'ubuvuzi bwe kugira ngo abashe kwitabwaho neza kandi akire ndetse biboneye.

Gukora siporo mu buzima bwacu bwa buri munsi bidufasha kwirinda indwara zimwe na zimwe zataka ubuzima bwacu harimo nk'umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi. Ni ngombwa rero ko dukora siporo kugira ngo tugire ubuzima bwiza kandi buhamye.

Rimwe na rimwe kwa muganga bakunda kutugira inama yo gufata indyo yuzuye kugira ngo tugire ubuzima bwiza, ubwo ni ukuvuga ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ndetse n'ibyubaka umubiri birimo amagi ibinyabutabire ndetse ibijumba n'imineke byose muri rusange.

Birakwiye ko umuntu ukora siporo aba akwiye kubanza kunyura kwa muganga akabanza akandikirwa ndetse ibikenewe n'umubiri we na muganga cyangwa se imiti iyo ari yo yose yafata mu rwego yaba ahuye n'ikibazo bigendanye na siporo akora, kugira ngo akomeze agire ubuzima buzira umuze.

Mu buzima bwa buri munsi, ni ngombwa gukora siporo kubera ko ifasha cyane cyane igitsina gore cyangwa se n'abagabo. Muri rusange usanga barambura amaguru n'amaboko, mu rwego rwo kurambuka ndetse no kugira ubuzima bwiza, kandi ukaba utegetswe kunywa amazi ahagije igihe wakoze siporo.

Mu Rwanda usanga mu kugira ngo bimakaze umuco wo gukunda akazi, usanga umuntu akunda gukoresha za mudasobwa cyangwa se andi mamashini yicaye neza atuje, kugira ngo anoze neza akazi ke, niyo mpamvu usanga mu Rwanda akazi aricyo kintu cya mbere gihabwa agaciro kandi kagakorwa neza mu mahoro kandi igihugu kigatera imbere.

Ibikoresho byose bikoreshwa mu buganga biba ari ngombwa kugirirwa isuku n'umutekano kubera ko iyo byangiritse usanga bikoshwa amafaranga menshi kugira ngo byongere bikore neza nk'ibikoresho bipima umuvuduko w'amaraso ndetse n'ibipima umutima usanga ari ibikoresho bihenze cyane niyo mpamvu bagirwa inama yo kubibungabunga.

Siporo ni kimwe mu bikorwa bihuriza abantu ahantu hatandukanye mu gihe kandi twizera ko siporo ibasha gukiza indwara zimwe na zimwe, harimo indwara y'umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi, ni muri icyo gihe kandi tugirwa inama yo kuzikora kandi tukazitabira.

Mu gukora siporo usanga ari ngombwa kwitwaza amazi ndetse kwambara imyenda yabugenewe mu rwego rwo gukora siporo neza wisanzuye kugirango ahita atakwangiza, iyo wambaye ibitarabugenewe kandi ikindi ukanywa amazi meza kandi asukuye ndetse rimwe na rimwe atetse bikaba akarusho.

Mu buryo bwo kubungabunga imiti ni ngombwa ko igira ahantu hizewe kandi hasukuye igomba kubikwa kubera ko ari ngombwa mu buzima bwacu cyane cyane ku barwayi ndetse n'abandi bose baba bateganya kurwara kugira ngo bazabashe kuyifata ikimeze neza kandi ibasha kubavura neza bagakira.

Kubera ko imiti myinshi ibona iturutse mu bimera, niyo mpamvu ari ngombwa kwita ku bimera kugira ngo uzajye ubona imiti byoroshye ndetse idufashe mu gukira vuba kubera ko usanga haba ikibazo iyo umuntu agiye kwivuza akabura imiti akaba yanapfa cyangwa akagira ubundi burwayi bushamikiye kuri bwa bundi yari agiye kwivuza, bitewe n'uko yabuze imiti byoroshye.

Imiti ya kinyarwanda usanga ifasha abantu benshi kubera ko hari ababa badafite amafaranga yo kujya kwa muganga ngo bagure imiti ya kizungu igezweho, niyo mpamvu usanga imiti ya kinyarwanda ifasha kandi hari n'indwara nyinshi usanga imiti ya kizungu itabasha kuvura harimo nk'uburozi ndetse n'izindi.

Abagura n'abagurisha imiti bose ni bamwe mu bantu baba bagomba kuba bagira ubuzima bwiza niyo mpamvu usanga iba ifunze ahantu kandi iteretse ahantu heza kugira ngo ibashe gukora neza kandi ihabwe igihe kirekire, itarangirika ndetse kugira ngo abantu bazayikoresha bazabe bafite ubuzima bwiza nyuma yayo.

Imiti yose usanga ari ngombwa mu buzima kugira ngo ivure umuntu ikibazo afite icyo ari cyo cyose niyo mpamvu usanga ifungiwe ahantu heza kandi habugenewe yaba mu macupa meza afite isuku ndetse abitse ahantu heza habugenewe mu rwego rwo kuyibungabunga iyo miti ngo itazapfa itagejeje igihe cyangwa itakaza ubushobozi bwo kuvura abantu.

Iyo urebye neza imiti gakondo usanga ari imiti ifasha abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bo mu moko atandukanye, ku buryo hari indwara nyinshi zitandukanye ibasha kuvura mu gihe imiti ya kizungu itazishobora, kandi ikaba ari imiti ihedutse kurusha indi yose.

Imiti myinshi usanga abantu bafata hari igihe baba batayisobanukirwa ariko bagirwa inama yo kuyifata bayinywa ariko ntabwo imiti yose inywebwa ibicishijwe mu kanwa niyo mpamvu hari icishwa mu myanya yindi y'umubiri ndetse n'ahandi hose kugira ngo ibashe gukiza umurwayi neza .

Muri Afurika ndetse no ku isi hose uhasanga amashyamba menshi kandi azitanye, arimo ubwoko bwose bw'ibimera, ndetse acumbikiye n'inyamaswa n'ibindi binyabuzima bitandukanye, rero tugirwa inama zo kuyabungabunga twirinda gutema ibiti no kwangiza ibinyabuzima biyabumbiyemo.

Kugira ngo umuti ubeho usanga haba harakoreshejwe uruvangavange rw'ibintu byinshi haba ibinyabuzima ndetse n'ibindi cyangwa se hagashyirwamo imiti yunganira ibyo binyabuzima, niyo mpamvu usanga iyo hafashwe nk'indabo runaka cyangwa se ibimera bindi bikorwa imiti myiza kandi ivura neza.

Imiti y'ibimera byagaragaye ko ituruka ahantu hatandukanye, ni ngombwa rero ko twita ku bidukikije kubera ko ari byo bitanga iyo miti, kugira ngo umuntu wese uzagira indwara runaka, azajya abasha kubona iyo miti bitamugoye kandi byihuse kugira ngo tubashe kubungabunga ubuzima.

Inzuki byagaragaye ko ari ikinyabuzima cyiza kandi gifite akamaro kuko usanga gifasha gukora ndetse no kubona imiti, kigakora umuti uvura kandi umeze neza, urimo ubuziranenge kandi ukaba woroshye kuboneka ndetse uryoshye kandi umeze neza.

Indabyo ndetse n'ibimera byinshi, bidufitiye akamaro kenshi nk'ikiremwamuntu, kubera ko usanga bidufasha, mu gutanga ibiryo, mu gutanga imibavu, cyangwa mu gufasha gukora imiti, ndetse no gutanga umwuka duhumeka nk'ikiremwamuntu ndetse n'kindi kinyabuzima cyinshi kiri hano ku isi.

Umuntu ushaka kwivura bya gakondo akenshi akoresha imiti y'ibyatsi ndetse kandi nibyo byiza kubera ko usanga nta miti yo mu nganda iba yongewe mu muti aba akoze, bimufasha gukira neza kandi byihuse akongera akagira ubuzima bwiza ndetse bwizewe.

Indabo nyinshi cyangwa ibimera, usanga ari bimwe mu bintu byiza kandi bigize umumaro munini mu buzima bwa muntu kubera ko bitanga kenshi imiti cyangwa ibiryo ndetse bigafasha no guhumeka kubera ko ari byo bikora umwuka duhumeka ndetse na byo bikadukiza umwuka mubi tuba twahumetse dusohora.

Iyo ufashe ibimera byinshi bitandukanye ukabivangavanga, maze ugasekura cyangwa se ukabikorera ikindi kintu cyose nko kubikamura nibwo haboneka imiti myiza kandi ndetse ihendutse kubera ko abantu benshi ntabwo baba bafite ubushobozi bwo kugura iriya miti isanzwe igurishirizwa nko kwa muganga ndetse n'ahandi hantu hakomeye.

Byagaragaye ko indabo ari bimwe mu bimera bifasha mu kubona imiti yaba iya kinyarwanda cyangwa iya kizungu iyo byitaweho neza ni kubw'iyo mpamvu usanga tugirwa inama yo kubifata neza ndetse no kuzikorera kugira ngo tubashe kuziha ubuzima bwiza natwe zizadufasha mu gihe kizaza.

Mu buvuzi usanga imiti myinshi ipfundikirwa mu macupa, mu rwego rwo kuyiha ubuziranenge ndetse kuyigumisha imeze neza, ku buryo itagira ingaruka mbi cyangwa ngo yangirike kubera ko aba ari ngombwa kuyikomeza ndetse no kuyibika ahantu hatunganye.

Mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzi, byagaragaye ko ari byiza guhingisha amamashini, ndetse no guhinga ku murongo, kubera ko usanga aribwo umusaruro wiyongera kandi n'igihe cyo kuwusarura, bikaba byoroshye ndetse bikaba bibangamira ibyonnyi kuba byakubona umusaruro.

Imiti myinshi usanga iba ifungiye ahantu heza kandi ibitse ahantu hafite isuku mu rwego rwo kuyifasha kuyongerera ubuziranenge kandi kuzamara igihe kirekire, niyo mpamvu yaba imiti yo kunywa cyangwa yo kwisiga yose iba ikwiye kubungabungirwa ahantu hamwe kandi hizewe.

Imiti y'ibyatsi usanga ari imwe mu miti ikora akazi kenshi kandi keza, kuko usanga itanabangamira ubuzima bw'uyikoresheje, kubera ko nta kintu na kimwe cyongerwamo kugira ngo bayitubure cyangwa bayongerere umwimerere ahubwo iba ifite uwo isanganywe, kandi yameranye yanakuranye.

Byagaragaye ko aba ari ngombwa kubika ndetse no kubungabunga imiti mu rwego rwo kugira ngo ivure kandi ikore neza ndetse imare n'igihe kirekire mu bubiko, kandi nijya gukoreshwa izakoreshwe ahakwiriye, aba ari ngombwa kuyibungabunga.

Ibimera byose muri rusange usanga bihurizwa kuba bifite akamaro kanini cyane hano ku isi, ariko nanone nabyo bigakenera kwitabwaho, cyangwa imvura ndetse n'ibindi ibyaribyo byose nko kubikorera neza kugira ngo bikure kandi nabyo bigire ubuzima bwiza.

Imiti nk'ikintu gifasha abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi iyo barwaye ni ngombwa ko ibungwabungwa ndetse ikabikwa mu bikoresho byabugenewe kandi bifite isuku kugira ngo imare igihe kirekire itangiritse kandi izabashe kuba igira umumaro ku bo izakoreshezwaho ivura.

Imiti myinshi muri rusange, usanga iba yaragaragajwe cyangwa yaravumbuwe n'abantu b'abahanga kandi bakagaragariza abantu cyangwa leta n'abaturage, mu rwego rwo kuyishyira ku isoko kugira ngo ibashe gufasha mu kuvura abantu ndetse no kubahiriza ubuzima bwiza.

Iyo twinjiye mu gice cy'ubuvuzi, dusanga ko imiti myinshi ituruka ku bimera aba ari myiza cyane ko iba itaravanzwemo ibindi bintu byose bituruka mu nganda, kubera ko aba ari myiza kandi ikaba itagira ingaruka ku bayikoresheje cyangwa ngo ibe yanabica.

Imiti y'ibyatsi ni ngombwa kuyikoresha ku bantu bose cyangwa bamwe na bamwe, ariko kubera ko ariyo ihenduka kandi ikavura neza kandi kubera ko itaba yongewemo ibikorwa byose biba byaturutse mu nganda, ni ngombwa rero kuyikoresha kandi ihendutse.

Ibiti byinshi muri Afurika ndetse n'ibimera muri rusange, usanga bibungabungwa kugira ngo bibashe kuba bitanga imiti iboneye kandi myiza kugira ngo abantu bose badafite ubushobozi bw'amafaranga, bajye babasha kuyibona bitabagoye ndetse kandi bite ku buzima bwabo.

Ubuzima butandukanye bwose twasanze ko bufite icyo bihuriyeho n'ibimera, ni yo mpamvu tugirwa inama yo kubibungabunga kubera ko usanga bucumbikiye ubuzima bwinshi butandukanye, harimo ubw'inyamaswa, ubwa muntu ndetse kandi usanga ko harimo byinshi utakora udafite ibimera.

Ubuki ni kimwe mu bikorwa bikorwa neza n'inzuki aho usanga buba buryoshye kandi bukaba n'umuti w'indwara zimwe na zimwe zazengereje ubuzima bwa muntu. Ni ngombwa rero kujya tubufata nka rimwe ku munsi kandi tukabwitaho tukita no ku nzuki zibukora.

Imiti muri rusange usanga ari ngombwa kuyibika ahantu hizewe kandi hafite ubuziranenge, kubera ko ari ngombwa ibyo byose byagaragaye ko iyo utayibitse neza yangirika bityo igatakaza ubuzima bwayo, ikaba rimwe na rimwe itabasha no kuvura nk'uko ari byo iba yarakorewe.

Ibimera rimwe na rimwe iyo bivanzwe n'ibiryo usanga bikora imiti myiza kandi ifite ubushobozi bunini bwo kuvura; nk'iyo harimo igitoki, ibirayi ukavanga n'ibindi bimera byinshi ndetse n'ibyatsi byose, usanga bikunda gukora imiti myiza igakorwa kandi ikagurishwa amafaranga menshi.

Imiti itangwa no kwa muganga iyo ifungiye ahantu hamwe uba usanga hari inyobwa cyangwa se iribwa nk'ibinini ndetse hari n'iyicishwa mu myanya runaka y'ibanga niyo mpamvu ugomba gutegereza amabwiriza ayo ari yo yose ahabwa na muganga kugira ngo akwereke ndetse agusobanurire imikoreshereze y'iyo miti.

Imiti yose igira amabwiriza ayigenga ndetse n'amahame, niyo mpamvu kwa muganga ari bo bagena uko ikoreshwa cyangwa se inywebwa. Iyo ari ibyangombwa bakubwira ndetse bakaguha n'isaha uyikoresherezaho, kubera ko iba ifutse neza kandi igomba kugira amategeko ayigenga kandi ntago uyinywa uko wiboneye.

Abahanga benshi hano ku isi bahuriza ko indabo ndetse n'ibindi bimera byose by'ibinyabuzima ari bimwe mu bifite akamaro cyane cyane nko gucumbikira ibinyabuzima byinshi bitandukanye, ndetse gutanga imiti ndetse no gufasha ikinyabuzima kindi guhumeka, harimo nko gutanga umwuka.

Ibimera birimo amaronji, ndetse n'indimu, ni ngombwa ko byitabwaho, kubera ko byagaragaye ko bivamo imiti, cyangwa se ibyo kurya, cyangwa nanone bigakoreshwa mu kugaragaza amavuta afasha mu mubiri wacu, ni ngombwa rero kubyitaho tukabibungabunga kugira ngo natwe biduhe umusaruro.

Imiti ndetse n'amavuta yo kwisiga byagaragaye ko ari byiza cyane ndetse bigenewe kubikwa ahantu mu macupa meza kandi afite isuku, kugira ngo bibashe kugira umwimerere ndetse n'ubuziranenge ku babikoresha babashe kuba bunguka neza, kubera ko ari bimwe mu bigize ubuzima.

Ubushakashatsi bwose muri rusange bugira igihe bugomba kugaragarizwa, niyo mpamvu usanga ababukora bakenera igihe gihagije ndetse n'umwanya mu rwego rwo kwirinda amakosa yabubamo kugira ngo hitabwe ku mibereho myiza, ndetse n'ubwo buzima bwabo kandi babukore neza cyane.

Byagaragaye ko iyi miti myinshi ituruka mu bimera; yaba iya kera cyangwa se iya kizungu, niyo mpamvu usanga leta ndetse n'ibindi bigo byose bishinzwe ubuzima bigira iya mbere mu gushishikariza abantu kwita ku bimera ndetse n'ibidukikije, kugira ngo babashe kuba bakomeza kurwana neza ingamba zo kubungabunga ubuzima.

Muri rusange imiti kubera ko ari kimwe mu bintu bigize ubuzima kandi bukenerwa no mu bantu mu buzima bwa buri munsi, niyo mpamvu ikwiye kujya ibikwa ahantu heza kandi ikabungabungwa ikitabwaho mu mutekano wayo usesuye kugira ngo izabashe gukoreshwa neza kandi itangirika.

Ibimera byinshi muri rusange usanga bifite akamaro kuko ari byo bitanga imiti cyangwa amavuta yo kwisiga kubera ko byagaragaye ko ibintu byose bibaho hano bitangwa n'ibinyabizima kandi harimo amavuta ndetse n'umwuka duhumeka kugira ngo ngo tubashe kubaho.

Gufunga neza ndetse no kubika neza imiti usanga ari kimwe mu byitabwaho n'abaganga ndetse n'ibigo bitanga ubuvuzi kubera ko iyo imiti itabitswe neza cyangwa ngo yitabweho usanga biyangiza ndetse n'ikoreshwe icyo yatumirijwe niyo mpamvu usanga byitabwaho ndetse bigakorwa mu gihe cyakwiriye kandi kinoze.

Imiti myinshi byagaragaye ko ituruka mu bimera niyo mpamvu usanga hari ibimera byibandwaho mu gukora imiti nk'aho twavuga: igikakarubamba kubera ko gitanga byinshi cyane mu gukora imiti niyo mpamvu dukwiye kucyitaho ndetse tukirinda kucyangiza aho kibonetse hose.

Tubona ko hari amoko menshi y'imiti ndetse avura indwara nyinshi zitandukanye aho usanga hari imiti umuntu anywa ndetse ikamanukira mu mubiri ikabona kwivanga n'amaraso cyangwa se ari imiti y'ibinini aho umuntu amera kimwe ndetse akazongera kunywa ikindi igihe yabitegekewe no kwa muganga niyo mpamvu twese dusabwa kujya dukoresha imiti uko twabitegetswe n'abaganga.

Imiti gakondo usanga ari imiti myiza ikundwa n'abantu benshi, bitewe n'uko iyi miti ya kizungu usanga ihenze kandi itaboneka ahantu hose; ikindi kandi iyi miti ya kizungu usanga itabasha kuvura indwara zose mu gihe iyi miti ya gakondo ivura indwara zose.

Imiti iyo ari yo yose iba ikwiye gufungirwa neza ahantu hatandukanye kandi heza kandi ikagirirwa isuku, niyompamvu usanga abantu bayikunda kugira ngo babashe kuyikoresha iyo ihendutse cyangwa bayishoboye kuyishyura mu rwego rwo gukomeza kubungabunga ubuzima bwabo.

Imiti myinshi ya gakondo usanga ikunda kuba muri Afurika, niyo mpamvu usanga tugomba kwita ku bidukikije byacu kubera ko bitanga byinshi mu miti cyangwa se ibindi bintu, haba harimo ibyo kurya ndetse nuko bidufasha gutunganya umwuka duhumeka, niyo mpamvu kandi tugirwa inama yo kwitondera ibyo dukora byose byakwangiza ibidukikije.

Ni ngombwa ko ahantu hakorerwa ubuvuzi cyangwa hatangirwa imiti ko hitabwaho kandi hakagirirwa isuku ihagije kubera ko ni ahantu h'icyubahiro cyane, hafitiye ubuzima bwa muntu akamaro cyane.

Indabo ndetse n'ibindi byatsi muri rusange by'ibimera, akenshi bihingwa mu butaka bwiza kugira ngo bibashe kuba bimera, kandi zi bizatange umusaruro muri rusange, niyo mpamvu aba ari byiza kubibungabunga ndetse bigakorerwa neza, kugira ngo bizatange umusaruro umuntu aba abishakaho.

Imiti gakondo ituruka mu bimera usanga ifasha kandi cyane yaba abakire n'abakene kuko babasha kubona amafaranga ndetse n'ubushobozi bwo kuyishyura kurusha iriya ibara yaratunganyijwe mu nganda kubera ko iba yarongewemo ibindi ndetse ikaza iturutse ahantu kure inahenze.

Kugira ngo umuti ube wujuje ubuziranenge kandi ufite agaciro kawo, akenshi ubanza gufungirwa mu bikarito cyangwa mu macupa meza kandi afite isuku, mu rwego rwo kuwubungabungira ubuzima ndetse n'ubuziranenge kugira ngo utazapfa vuba kandi ntubashe gukora icyo wakorewe cyangwa icyo wagenewe ari ibyo kuvura abantu.

kKugira ngo umuti uboneke rimwe na rimwe usanga ari ugufata ibimera ndetse n'ibindi byatsi byinshi ukabihuza bifite amoko atandukanye, maze ukabisekura ndetse bikavamo umuti, ni mu gihe kandi kwa muganga ho usanga babihuriza mu mashini maze bikongerwamo imiti runaka bikabyara umuti ufite ubuziranenge kandi mwiza ndetse unavura.

Byose muri rusange bigaragara ko ituruka ku bimera niyo mpamvu tuba tugomba kubyitaho kandi tukabibungabunga wenda tubivomerera ndetse twirinda kubitema uko tubonye mu rwego rwo kwishyira mu buzima bwiza kubera ko usanga rimwe na rimwe ari byo biba bizadutabara igihe tutazi.

Indabyo ndetse n'ibindi bimera byose, ni kimwe mu binyabuzima bifasha imibereho ya muntu, harimo ko bimufasha iyo akeneye imiti kuko ibinyabuzima byinshi bitanga imiti ku kiremwamuntu iyo yahuye n'ibibazo cyangwa yarwaye mu buryo bwo kumurinda izo ndwara no kumuvura.

Ibimera ni ngombwa ko byitabwaho kubera ko bifite umumaro munini cyane mu buzima bw'ikiremwamuntu nko kuyungurura umwuka duhumeka ndetse no kuba bivamo icyo kurya, gutanga imiti, ni ngombwa rero ko byitabwaho kubera ko bifasha muri ako kazi kose tutabifite urumva ko byagorana kubaho.

Mu bimera biri ku isi usanga bifite akamaro kenshi gakomeye, kuko ahari wenda tuvuze nk'uko bitanga imiti ndetse bigafasha ikinyabuzima guhumeka, aha ntabwo byariba bihagije ahubwo twanavuga ko bicumbikiye amoko menshi y'ibinyabuzima nk'aho ari ibibifasha kubona ibiryo.

Ibimera muri rusange usanga ari ibinyabuzima bitanga imiti ya gakondo ndetse n'imiti ya kizungu kugira ngo buri muntu abashe guhabwa imiti igihe cyose ayikeneye, kubw'iyo mpamvu leta ndetse n'abaturage bakwiye gukorera hamwe kugira ngo babungabunge ibimera byose.

Indabyo ni kimwe mu bimera bikunda gukoreshwa ahantu henshi hatandukanye, kubera ko ni byiza kandi bikura abantu, cyane ko bifasha mu gukora umuhumuro ndetse gutaka ahantu, kandi bigakoreshwa ahantu henshi ndetse no gufasha mu guhumeka ikiremwa muntu.

Imiti yose muri rusange usanga iba ikwiye kugirirwa isuku ndetse ikabikwa ahantu hari ubuziranenge, mu rwego rwo kuyibungabunga kugira ngo uwo izavura ndetse uwo izahabwa azabashe kuba ayifata atayishidikanyaho, kandi aba yizeye ubuzima bwayo ndetse n'icyo yabasha kumukorera.

Ibimera kenshi na kenshi usanga bikenera amazi, umwuka ndetse no kwitabwaho kwa muntu kugira ngo bibashe kubaho kubera ko nabyo nk'uko bikora akazi gakomeye haba harimo kuyungurura umwuka ndetse no gutanga byinshi nk'ibiryo cyangwa imiti, nabyo biba bikene kwitabwaho kugira ngo bibashe kubaho mbere y'uko bitanga ibyo byose.

Indabo ndetse n'ibindi biremwa byose usanga ari byiza cyane mu gukora ubusitani cyangwa se gutanga izindi serivisi, yaba nk'imiti cyangwa ibyo kurya kubera ko usanga biri ahantu hose kandi byifitemo ubwo bushobozi, niyo mpamvu usanga leta idusaba kubyitaho kandi tukareka kubyangiza.

Ibyatsi byinshi ndetse n'ibimera muri rusange, usanga ari ngombwa kubibungabunga kubera ko akenshi byifashishwa n'abaganga ndetse n'ibindi bigo byose bikora imiti, kuko bitanga imiti ndetse bigatanga n'ibindi byose byafasha ubuzima bwa muntu bwa buri munsi, niyo mpamvu ari ngombwa kwita ku binyabuzima byose yaba ibimera ndetse n'ibindi.